Umukecuru uvuye kuvoma amazi ku ivomero rusange, akaba yikoreye ikijerekani, aho ari kugenda atambuka, hari n'abana babiri iruhande rwe, harimo umwe w'umuhungu wikoreye akavido n'undi w'umukobwa uvuye ku ishuri.

Umumama wambaye agapira k'umweru, akaba akikiye umwana wambaye agapira gasa n'icunga, hari kandi umugabo wambaye amadarubindi n'agapira gasa icunga, afite ibiryo ku isahani, ari kugenda atamika uyu mwana.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, harimo abaganga bahagaze bambaye amataburiya, imbere yabo hari abandi bantu bari kugenda babasaba serivise, muri abo bari gusaba serivise harimo umuzungu.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza. Agaragaza umuryango wita ku buzima bw'abatuye isi, ku isi. Hakaba hari n'akantu kagaragaza umubumbe w'isi n'amagambo agakikije.

Abantu batatu, umugabo ndetse n'umugore bicaranye, hari n'umujyanama w'ubuzima wabasuye afite impapuro mu ntoki ari kugenda abereka uburyo bwiza bwo kuboneza urubyaro.

Abaganga benshi cyane bateraniye hamwe, bakaba bari kwifotoza, bambaye amataburiya y'umweru ndetse hagati yabo, hahagazemo umugabo wambaye amakositimu y'umukara w'umuzungu bari kwifotozanya.

Abana bari mu kigero k'imyaka itanu, bari ahantu mu cyuzi bari kugenda boga, koga ni ingirakamaro cyane kuko bituma kandi tugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ni ku ivomero rusange riba ryarashyizweho na leta y'u rwanda. Aho bavoma babanje gupompa. Hahuriye abagore batatu. Babiri muri bo barigupompa, undi umwe afite indobo y'icyatsi ateze amazi.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe uko bigaragara bari mu nama, baricaye harimo n'umugore ushinzwe umutekano, hari umugabo uhagaze imbere yabo afashe indangururamajwi ari kubagezaho imbwirwaruhame na bo bamuteze amatwi.

Ibikoresho bigiye bitandukanye abaganga bifashisha, aho biri mu mabara y'ubururu bimanitse ahantu ku gikuta, ibi byitwa bomboni aho byifashishwa mu kongerera abarwayi umwuka.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, bakaba bicaye bari kwifotoza, harimo abakobwa n'abahungu, abagabo ndetse n'abagore, bari bari mu nama none irarangiye bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Hari mu gihe cy'icyorezo cya Covid cumi n'icyenda, ubwo buri muntu yasabwaga kujya kwiteza urukingo rwa Korona Virusi, uyu mugore rero yatinyaga urukingo ariko kubera ko ryari itegeko rya Leta yagiyeyo akajya arashinyiriza mu gihe bari kurumutera.

Umugore uhagaze mu cyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvutse kwa muganga, yambaye umupira w'icyatsi, agapfukamunwa k'umweru ndetse yiteze n'igitenge mu mutwe.

Umwana wambaye imyambaro iri mu ibara ry'ubururu, yagiye kwa muganga kwikingiza urukingo rwa kanseri y'inkondo y'umura, muganga ari kumutera urushinge, yambaye itaburiya y'umweru.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, bakaba bari kwifotoza, higanjemo abagabo n'abagore, abagabo bambaye ikositimu, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza insanganyamatsiko bari bari kwigaho, kiri mu mabara y'ubururu.

Ababyeyi b'abamama bateraniye hamwe kwa muganga, bose bakikiye abana babo bigaragaza ko baje kubakingira, bicaye ku gatebe bamwe bari kubonsa abandi barabateruye, bategereje muganga ko aza akabitaho.

Ni kwa muganga ahatangirwa serivise nyinshi cyane zijyanye n'ubuzima, hari abakecuru bicaye batonze umurongo, uw'imbere abamushyize icyuma mu kizigira cy'ukuboko, bari kumupima umuvuduko w'amaraso.

Umusaza wambaye agapira k'abajyanama b'ubuzima ndetse n'agapfukamunwa, ari kwa muganga aho bari kumutera urushinge, ari kuruterwa n'umuganga w'umukobwa, wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa ndetse na ga mu ntoki.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Harimo umwana uryamye ku gitanda bigaragara ko arembye, ari kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi. Iruhande ku gitanda, hicaye umubyeyi bigaragara ko ari mama we.

Abantu bagera muri batatu bahagaze imbere ku ruvugiro kuri ruhangwamboni, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo mu rurimi rw'Icyongereza mu ibara ry'umweru. Hirya hari ikindi cyapa cy'Umuryango w'Abibumbye wita ku buzima ku Isi.

Umwana w'umunyeshuri yambaye impuzankano z'ishuri, ari gufungura amazi mu kigega ayategera mu gakombe, ni byiza cyane kunywa amazi dukoresheje agakombe kuko bidufasha kwimaka isuku.

Ni ku ivomo rusange hamwe bavoma babanje gupompa, haba hari ibikoresho byabugenewe abantu bazana kuvoma amazi nk'amabido, hari abantu benshi cyane bahagaze, uri gupompa ni umusaza.

Abana babiri b'abakobwa, bari ku ivomero rusange, umwe ari gukorera undi indobo isa icyatsi, inyuma yabo hari inzu ya nyakatsi, hakurya hari agasozi gateyeho ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Dr Sabin Nsanzimana, yambaye ikositimu nziza cyane ndetse n'agashati keza cyane, munsi ye hari Ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'Ikirango cy'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima RBC.

Abaganga benshi cyane bahateraniye hamwe, uko bigaragara barishimye kuko bari kugenda bakoma mu mashyi baririmbira uyu mugabo w'umuzungu ubahagaze imbere nawe ari kubareba arishimye yahimbawe.

Umwana wagiye kuvoma amazi ku ivomero rusange, yambaye imyenda iri mu mabara y'umweru ariko kandi irimo utudomo tw'umweru, ari kuvomera amazi mu ndobo zigera muri eshatu zisa umweru.

Umukecuru ukenyeye igitenge cy'icyatsi, yambaye agapira k'iroza gatambitsemo uturongo tw'umweru, ari ku ivomero rusange aho ari kuvomera amazi mu kijerekani, hakurya ye hari agasozi keza cyane gateyemo ibiti.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bahagaze bari kwifotoza, higanjemo abagabo n'abagore bigaragara ko bari bari mu nama none irarangiye, inyuma yabo hari inyubako yanditseho ngo icyumba kiberamo inama.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hari abamama benshi bahateraniye buri wese akikiye umwana we, bigaragara ko baje kubakingiza, imbere hagiye hari abaganga bari kubafasha muri icyo gikorwa.

Umwana mutoya wagiye kuvoma none bamukoreye akajerekani katangana n'imyaka afite. None abakozi ba UNICEF bamugezeho, umugabo umwe afashe kuri ako kajerekani, undi mugore w'umuzungu ari kumufotora. Si byiza kuvunisha abana.

Ni ahatangirwa serivisi zijyanye n'amazi. Ni uburyo Leta yashyizeho bwo kwegereza abaturage amazi, aho umuturage abona amazi ku mafaranga makumyabiri gusa.

Abantu bateraniye hamwe bari mu nama, biragaragara ko bayiyoboye. Hari umugore ufite indangururamajwi uri gutanga igitekerezo arebana na mugenzi we. Inyuma yabo hari amarido asa umukara ndetse n'ubururu.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, ahagaze ahantu ari gukaraba kuri kandagira ukarabe, ibi ni byiza gukaraba amazi meza n'isabune igihe cyose uvuye mu bwiherero.

Umwana muto cyane bigaragara ko ari umunyeshuri, ari gukaraba intoki muri kandagira ukarabe kugira ngo agirire isuku intoki ze, ni byiza cyane gutoza abana bakiri bato kugira isuku y'intoki kugira ngo bazayikurane.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari mu nama, bicaye bazengurutse ameza harimo abagabo ndetse n'abagore, hagati ku meza hariho porojegiteri bari kwatsa kugira ngo ijye iragaragaza insanganyamatsiko ku rukuta.

Leta mu buryo bwo kurwanya ikibazo cy'igwingira ndetse n'imirire mibi, yahisemo kohereza intumwa ahantu hahurira abana benshi bakagenda babaha amata ndetse n'igikoma kugira ngo barwanye bwaki.

Ni ku ishuri aho bashyizeho indobo zikozwe mu buryo bwa kizungu zitanga amazi yo kunywa, abanyeshuri baje n'ibikombe bari kugenda bavoma buri wese anywa kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari kwifotoza, harimo abagore n'abagabo, abera n'abirabura, bakaba bari bari mu nama none bari gufata ifoto y'urwibutso, mu ruhande rwabo rw'iburyo hari idarapo ry'u Rwanda, urw'ibumoso hari ikirango cya Unicef.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari kwifotoza, ikigaragara cyo ni abaganga kuko bahagaze bambaye impuzankano z'akazi, bari gufata ifoto y'urwibutso, bigaragara ko bari bari mu nama none ikaba irangiye, bakaba bari gushaka raporo.

Ikirango kigaragaza umuryango w'Abibumbye ku isi wita ku buzima bw'abana uzwi nka UNICEF, kiri mu mabara y'ubururu kikaba gishushanyijemo umwana uri kurebana na nyina bishimye cyane.

Abana babiri bahuriye hamwe ivomo ry'iriba aho bavoma amazi badubitsemo ikibido. Hakaba harimo umwe mukuru n'undi muto, umukuru yadubitsemo ikibido, ari gufasha n'umuto kuvoma kugira ngo atagwamo.

Umwana muto cyane w’umukobwa, akaba yagiye kuvoma amazi mu gicupa, akaba arimo kucyunyunguza akayamena kugira ngo agisukure kigire isuku, yambaye ikanzu idoze mu gitenge ndetse afite n'imisatsi ya direde.

Amoko agiye atandukanye y'inshinge abaganga bifashisha bari gutera urukingo rwa Kovide cumi n'icyenda, harimo kandi n'agacupa kaba karimo uwo muti bagenda bawukuramo bakoresheje izo nshinge.

Ni ku ivomero rusange riba ryarashyizweho na leta, aho havoma umuntu umwe undi ari gupompa inyuma, ni abana babiri, umwe usa naho ari mukuru afite icyuma ari gupompa, undi na we yateze akajerekani kari kujyamo amazi.

Umwana muto ukiri muto wikoreye ikijerekani, kikaba kibaditseho icyapa cy'umuryango w'abibumbye wita ku buzima bw'abana ku Isi Unicef, hakaba hafasheho n'umusaza wirabura wambaye agapira k'ubururu.

Mu rwego rwo kwegereza abaturage no kunoza serivisi z'ubuzima, Leta yahisemo kubashyiriraho imigezi. Uyu mwana rero yagiye kuvoma amazi kuri robine akoresheje ikibido cya kera k'igishashi. Ari kuvomeramo amazi.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari mu cyumba cy'inama bicaye ku ntebe zisa umukara, hari gutambukamo umugore umwe wambaye yikingiye bigaragara ko ari umuganga, imbere yabo hari abagabo batatu bariho bakoresha inama.

Amoko menshi agiye atandukanye y'inyubako. Inyubako zubakwa mu buryo bugezweho bitewe n'abafundi bazubatse, iyo tubona yubatswe mu buryo bw'uruziga, ifite ubusitani bwiza bukiri buto.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, harimo abagabo ndetse n'abagore, bari mu nama hagati yabo hari umugabo uri kugendamo, bigaragara ko ari we uri kubakoresha iyo nama, inyuma ye hari akapa kagaragaza insanganyamatsiko.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku biro by'umurenge, harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba hari icyuma kiriho Ibendera ry'u Rwanda, hari kandi n'amashitingi y'umweru abarinda izuba.

Abantu benshi bari mu cyumba bari kwifotoza, bari bari mu nama yiga ku buryo ki bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu.

Umugabo wagiye kuvoma amazi ku ivomero rusange, none akaba yicaye ku njerekani ari kwishimira ibyiza leta y'u Rwanda yabagejejeho, yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati iciye amaboko ijya gusa umweru ari guseka.

Abantu benshi cyane barahagaze, bari kugenda barebana ariko muri bo hari umugore umwe uteze igitambaro, wambaye ijipo y'ubururu ndetse n'agashati kadozwe mu gitenge k'akaribaya, ari kureba umuntu uri gufotora yifashe mu mayunguyungu.

Umukecuru wifubitse igitambaro cy'umukara, uteze igitambaro cy'ubururu n'umweru, yagiye kwa muganga kwipimisha malariya, yamuhaye muganga urutoki none muganga agiye guteramo urushinge ngo amufate amaraso.

Abaganga benshi cyane bateraniye hamwe aho bari kwifotoza, hagati yabo hari umugabo wambaye amakositimu w'umuzungu bari kwifotozanya; iruhande rwabo hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Abantu benshi cyane b'abagore bahuriye hamwe ku ivomero rusange, aho bafite indobo zigiye zitandukanye bagiye kuvomera, umwe afite isa umutuku undi afite isa ubururu, ku cyapa kimanitse ku mugezi cyanditseho UNICEF.

Ni ku ivomero rusange, aho hari umwana waje kuvoma bikaba byari byamunaniye gufungura, abanyeshuri bavuye ku ishuri umwe muri bo yaje ari kumufungurira kubera ikinyabupfura yatojwe.

Intoki z'umuntu ziteze amazi kuri robine, ziri gukaraba, uyu ni umugezi uba warashyizweho na Leta mu rwego rwo kwegereza serivisi abaturage z'amazi.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye, hari umugore waje gushakamo serivisi, aho yambaye umupira w'icyatsi agapfukamunwa k'umweru ndetse ateze n'igitenge mu mutwe.

Ni ku ivomero rusange aho umuntu avoma undi ari gupomba, umwana ugiye kuvoma yambaye agapira k'umweru, inyuma ye hari undi umwisumbuyeho witegura gupompa ngo amazi aze, hirya hari abandi bantu babiri.

Amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, akaba yanditse mu ibara ry'umukara, akaba avuga ngo, ubuzima ku isi tubwiteho, hari kandi n'akaziga k'umuhondo, n'inyuguti ya na y'ubururu.

Umugabo wambaye ikositimu ry'umukara, karuvati y'umutuku, ishati y'umweru n'amadarubindi. Ahagaze imbere ku ruvugiro ari gukoresha inama, inyuma ye hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Abantu benshi bahagaze bari kwifotoza, bigaragara ko harimo abana bakiri bato, umusaza ugeze mu zabukuru n'umukecuru we ndetse na nyina w'abo bana.

Abana b'abanyeshuri bahuriye hamwe ku ivomero, aho bari kuvoma amazi agenda ajya mu ndobo zisa'umuhondo, inyuma yabo hateye ibiti by'imikindo bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Inyubako nziza cyane, zubatswe mu buryo bugiye bugezweho, bw'amagorofa, zubakishije amatafari ahiye. Ariko hari n'izindi nyubako, zubatswe mu buryo bw'amayobera, aho zubatswe mu ishusho y'uruziga, hari n'akayira kaziganaho.

Ni ku ivomero rusange aho hari abana benshi baje kuvoma ariko bose bakaba bateretse ibijerekani bose barangaye barebye hirya bigaragara ko hari umuntu uhari ushimishije bahanze imboni.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye hamwe ku biro by'umurenge, bari bari mu nama maze umwe agira ikibazo cy'ihungabana, bazana imbangukiragutabara bagiye kumushyiramo bamwihutane kwa muganga kugira ngo yitabweho.

Abantu benshi cyane batandukanye, bahuriye mu cyumba kiri kuberamo inama. Harimo abagore, ndetse n'abagabo. Bakaba bicaye bakurikiye umuntu uri kubagezaho inama uri imbere yabo. Buri wese yambaye ikarita iranga icya akora mu ijosi.

Umuganga wambaye itaburiya, afite indangururamajwi mu ntoki ndetse n'igitabo, ari ahantu, aho ari gukoresha inama abantu bicaye imbere ye barebana muri shitingi itashye mu buryo bw'ibendera ry'u Rwanda.

Umwana w'umuhungu wambaye agashati k'icyatsi, yambaye kandi agakabutura k'umukara, ari ku ivomero aho ari kugenda akaraba intoki ze, hirya ye hateretse indobo ebyiri zisa ubururu.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, bakaba bahagaze. Imbere yabo hari umugabo uhahagaze wambaye akajire n'agapira k'umutuku, afite ibitabo mu ntoki, bigaragara ko hari ibyo ari kubabwira kandi na bo bakaba bamuteze amatwi.

Abana bato bagera muri batatu bagiye kuvoma, bagiye kuri ryavomero risaba imbaraga kugira ngo uvome bose byabananiye nta n'umwe wabishobora, hari umugore w'umuzungu w'umugwaneza wari uri kugenda abonye byabananiye avamo, ari kubapompera na bo bavoma.

Urujya n'uruza rw'abantu ba ku biro by'umurenge, bakaba bari baje mu nama none inama irarangiye, bamwe bari kujya kubaza ibibazo abandi bari gutaha, hamanitsemo kandi ibendera ry'u Rwanda, hari n'amashitingi yabarindaga izuba.

Ijanisha ritwereka ko mirongo itanu na gatanu ku ijana hari muri bibiri na cumi n'umunani, mirongo irindwi ku ijana bibiri na cumi n'icyenda, mirongo irindwi na gatandatu ku ijana bibiri na makumyabiri, mirongo irindwi n'icyenda ku ijana bibiri na makumyabiri na rimwe.

Umugore ukikiye umwana wamuzanye kwa muganga, hari umuganga iruhande rwe uri kwita kuri uwo mwana. Ni byiza cyane kuzana umwana kwa muganga igihe cyose tubonye kimwe mu bimenyetso mpuruza.

Umukobwa wagiye kuvoma amazi ku ivomero rusange, aho afite injerekani y'umuhondo yateretse mu ibase, akaba ari kuvomeramo, yambaye ijipo y'umukara ndetse n'agapira k'umutuku.

Leta yashyizeho uburyo buri rugo rwose ruba rugomba gutunga agatanda k'amasahani, aka rero kakaba kari ku rugo rw'umuturage, aho yandikaho amafahani amaze kuyoza kugira ngo yumuke mikorobe zishiremo.

Umugore w'umumama wagiye kwa muganga, yambaye agapira k'umukara, yakuyemo ikote, yambaye n'agasakoshi mu ijosi, yagiye kwikingiza Kovide cumi n'icyenda none muganga ari kumutera urushinge na we ubwoba bwamwishe yahumirije.

Ni kwa muganga aho hari abantu benshi bahari, baba baje gushaka serivise zijyanye n'ubuvuzi. Hari umwana uhari akaba yambaye ingofero y'ubururu. Muganga amufasha ku itama ari kumusuzuma ngo arebe uko amererewe.

Abana benshi cyane batandukanye bateraniye hamwe ku ivomo rusange aho bari kugenda bakaraba intoki zabo, bari kureba umuntu uri kubafotora barishimye cyane, ni byiza gutoza abana gukaraba intoki zabo bakiri bato.

Abana bagera muri batatu b'abanyeshuri, bambaye impunzu mpuzankano, bahuriye ku mugezi wa robine, bari kugenda bakaraba intoki n'amazi meza n'isabune, bigaragara ko batojwe isuku bakiri bato, isuku ni isoko y'ubuzima.

Umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, akaba arandaswe n'abantu babiri harimo umugabo ufite agakoni ndetse n'umugore wambaye umukenyero, yambaye n'urunigi mu ijosi.

Abagore babiri bakikiye abana babo mu ntoki, bicaye ku gatebe mu cyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hari umuganga ubicaye imbere ari kugenda abagira inama.

Umukecuru ugeze mu kigero cy'izabukuru, yambaye ibitenge biri mu mabara y'icyatsi ndetse yiteze n'igitenge, akaba asa n'ukuze ari guseka areba uburyo abantu bari kumureba.

Umukecuru ushaje cyane, akaba yambaye ibitenge biri mu mabara y'icyatsi, akaba afite amenyo yagiye akuka, akaba ari kureba umuntu uri kumufotora yishimye cyane kandi anezerewe.

Igishushanyo kiri mu mabara agiye atandukanye aho kitwereka imiterere y'ubuzima, kiri mu mabara agiye atandukanye, higanjemo umutuku, umuhondo, icyatsi, ubururu umweru n'umukara.

Abantu babiri bicaye imbere, harimo umugore ndetse n'umugabo, umugore afite indangururamajwi mu ntoki ari kuvuga, inyuma yabo hari utwapa tugiye turiho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'ikirango cy'umuryango wita ku buzima mu Rwanda RBC.

Abantu batandukanye bateraniye hamwe. Batanu batanu bagiye bazengurutse akameza, bambaye udupfukamunwa, bigaragara ko bari mu nama ariko bakirinda kwegerana kugira ngo birinde Kovide cumi n'icyenda.

Abana benshi cyane bateraniye hamwe, bari guseka bishimye, higanjemo abahungu n'abakobwa, bigaragara ko bishimiye umuntu uri kubaganiriza, bambaye n'imyenda isa neza cyane.

Umugore wicaye ku kabaho mu nyubako isa naho ishaje, umugore yambaye imyenda atari myiza, uko bigaragara ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Umukobwa mwiza cyane wirabura ufite imisatsi ya menshi, ari guseka aho imbere ye hari imibare rimwe kabiri gatatu.

Abana benshi cyane bateraniye hamwe, barababaye ntabwo bishimira na gato, bambaye imyenda isa nabi ndetse barogoshe bose ubona ko bateye imbabazi umuntu yabasengera.

Amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'icyatsi, hakaba hariho kandi n'ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda. Hari n'ikirango cya Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda RBC.

Umugabo bigaragara ko ari umuyobozi. Yambaye agapantaro k'umukara n'agashati k'umweru n'umukara. Ahagaze imbere y'inyubako. Iyo nyubako amarembo yayo akaba akikijwe imikindo. Yanditseho Caraes. Aho bita ku bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe. Haherereye mu karere ka Huye.

Umugore wifashe mu mutwe ufite imisatsi ya menshi, akaba yambaye itaburiya y'umweru. Akaba ari gutekereza uburyo ki ubuzima bwe bumeze, arahangayitse ni byiza kumwegera tukamuganiriza agatuza.

Umusaza ugeze mu kigero cy'imyaka nka mirongo itandatu, akaba yirabura cyane akaba ari kurira amarira ari gushonga ndetse ari guta n'ibimwira. Ntabwo yishimye na gake, akeneye kuganirizwa. Ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Umuntu wambaye ubusa, yicaye hafi mu cyumba gisa nabi bigaragara ko gishaje, gifite inkuta ziteye irangi ry'umweru ariko zashaje, uyu muntu rero ni igisazi.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye umupira w'umukara, akaba yipfutse mu maso bigaragara ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ateye agahinda ni byiza kumwegera tukamuganira ndetse tukanamusabira ku mana rugira rugize igena.

Abantu benshi bateraniye hamwe muri sale y'inama, bari kwifotoza, bamwe barasutamye, abandi barahagaze, bigaragara ko bari bari mu nama, none ikaba irangiye, bagiye gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu bagera muri batanu bateraniye hamwe, harimo abagore batatu, umwana umwe ndetse n'umugabo wicaye ku gatebe imbere yabo, kaba yakuyemo urukweto ari kubereka ikirenge ke, bigaragaza ko baje kumusura.

Amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi mu rurimi rw'Ikinyarwanda avuga ngo: "Wihogora," hari ibiganza by'umuntu bihobeye uruziga, munsi handitseho amagambo mu rurimi rw'Icyongereza.

Abana benshi cyane, bishimye bari guseka. Bakaba bambaye impuzankano ziri mu mabara y'icyatsi. Bakaba bishimye bari guseka, bogoshe. Izuba riri gukubitira ku ruhanga rwabo. Bakaba bari gusobanurirwa ibijyanye n'ubuvuzi bwo mu mutwe.

Icyapa kiriho amoko y'abantu agiye atandukanye, bari kutwereka abantu ukuntu baba bameze igihe bafite imitekerereze myiza, iki cyapa cyanditseho amagambo y'umweru mu rurimi rw'Icyongereza.

Umugore ucigatiye umwana bose bakaba bari guseka, umwana yishimye ndetse na nyina arishimye, bigaragara ko bafite ubuzima bwiza buzira umuze, bahagaze imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Abantu benshi cyane batandukanye, aho bateraniye hamwe bari mu nama, hari umugore uri kugaragara wambaye ikanzu isa move, umweru ndetse n'umukara, afashe indangururamajwi mu ntoki, ari gutanga igitekerezo.

Umwana ukiri muto wambaye imyambaro ya'abanyeshuri biga mu ishuri r'inshuke, ishati y'umweru iteyeho n'agakaruvati, ari kurya igisuguti, afite imisatsi myiza yicaye ku ntebe arishimye.

Abana benshi cyane b'abanyeshuri, bazamuye ibiganza barishimye cyane, bambaye imyenda y'impuzankano isa ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari ibendera ry'u Rwanda ndetse n'ibiti bikiri bitoya.

Icyumba gikorerwamo serivisi z'inama, hicayemo abantu benshi cyane bakurikiye inama, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari umugabo wambaye imyenda isa umukara n'umweru, uri kubakoresha iyo nama.

Umwana wirabura uri kurera, akaba afite agahinda rwose, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, ni byizayiza cyane ko abantu bafite ibibazo byo mu mutwe tubaganira ndetse tukanabasengera.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, bakaba bahagaze bafite icyapa mu ntoki, kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, mu rurimi rw'icyongereza, bari gufata ifoto y'urwibutso bigaragara ko bari bari mu nama.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hahagazemo umugore wambaye agakote k'umukara ndetse n'ikanzu y'umutuku bigaragara ko ari umuganga, inyuma ye hari icyapa cyanditseho amagambo y'umweru.

Abantu babiri bicaye umugore n'umugabo, umugore rero afite indangururamajwi mu ntoki aho yambaye imyenda idoze mu bi bitenge ari gusobanura ibijyanye n'ubuvuzi bwo mu mutwe.

Umuntu wambaye agagofero k'umukara, akaba yambaye n'agapira k'umukara karimo agashati k'umweru imbere, yipfutse amaboko mu maso bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ntabwo yishimye nta gato.

Umugabo wambaye agashati k'umweru, akaba akora akazi k'ubuvuzi bw'indwara za gakondo, iruhande rwe hari Ibendera ry'u Rwanda akaba ari kuvuga amagambo ati turi kumwe.

Abantu benshi bagiye batandukanye bahuriye hamwe aho bari mu nama. Bamwe baricaye abandi barahagaze. Bari kwifotoza bigaragara ko bari gushaka ifoto y'urwibutso. Inyuma yabo hari icyapa kiriho ikirango cy'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima.

Abana benshi cyane bahagaze ahantu bari gushungera umuntu uri imbere yabo nubwo atagaragara, nk'uko bigaragara aba bana ni abanyacyaro, bahagaze bambaye nabi.

Utuziga dutandukanye turimo ingeri z'abantu benshi cyane, turimo abantu bari mu mabara y'umweru n'umukara, hari kandi n'amagambo yanditseho y'umweru, aho byanditse harasa ubururu.

Umuntu w'umugabo ukenyeye igitenge, akaba yicaye ahantu bamuziritse imihama mu maguru. Uyu rero bigaragara ko ari umurwayi wo mu mutwe, kuko ashobora kuba arwana. Bakaba bamugiritse iyi mihama kugira ngo ntabashe kwiruka ku bantu.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, akaba afite urudodo mu ntoki yifashisha ari gusukura amenyo ye, ari kwireba mu ndorerwamo ngo arebe ko amenyo ye yanoze. Ni byiza cyane gusukura amenyo dukoresheje urudodo.

Umusore uri gukorera isuku amenyo ye akoresheje urudodo, ni byiza cyane kugirira isuku amenyo dukoresheje urudodo cyangwa akagozi kuko bituma imyanda iba yasigaye hagati mu menyo yose ishiramo.

Umuganga ugeze mu gihe k'imyaka nka mirongo ine, yambaye amadarubindi, ari kureba ku nsakazamashusho amoko y'amenyo agiye atandukanye, iyo nsazamashusho iri kwaka mu mabara y'umukara ndetse n'umweru.

Umwana uryamye aho hari umuganga uri kugenda amukura amenyo, muganga yambaye uturindantoki turi mu ibara ry'umweru ari kugira ngo umwana we amenyo azasigare ameze neza.

Abana benshi cyane b'abanyeshuri bicaye mu ishuri ndetse bose bazamuye amaboko, aho bazamuye imiti yifashishwa mu gusukura amenyo, biyemeje kugirira isuku amenyo yabo.

Abantu benshi bateraniye hamwe harimo abagabo n'abagore, harimo umugabo umwe w'umuganga uri kwigisha umwana uburyo amenyo ye aba ateye akoresheje ikibumbano cy'amenyo.

Umwana ufite ikibazo cy'amenyo y'amahengekerane, yagiye kwa muganga none abaganga bari kugenda bayitaho kugira ngo barebe amenyo atameze neza bayakure andi azamere hakiri kare.

Umusore wambaye agapira k'umweru, akaba ari guseka n'amenyo meza cyane, inyuma ye hari icyapa cy'umuhondo, akaba adushishikariza kuba twakoresha umuti w'amenyo tugasukura amenyo yacu.

Umugabo wagiye kwa muganga afite ikibazo cy'amenyo. Yagezeyo none muganga yamuryamishije ku gitanda, akaba afite udukoresho twabugenewe ari kugenda amukura amenyo. Muganga yambaye itaburiya y'ubururu, agapfukamunwa ndetse n'akanozasuku mu mutwe.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye by'umwihariko izita ku buvuzi, harimo ibikoresho by'amoko yose abaganga bifashisha mu gihe baba bari kwita ku barwayi.

Ni kwa muganga, mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuze, harimo umuganga wicaye kandi wambaye itaburiya y'umweru, yambaye agapfukamunwa aho ari kugenda yandika mu gitabo.

Umusaza ugeze mu zabukuru, akaba agiye gukorera isuku amenyo ye, akaba ahagaze imbere y'akarobine, afite uburoso buriho umuti, agiye kuyasukura.

umusore ufite ubwanwa butari bwinshi cyane, akaba yashinyutse afite urudodo rwifashisha basukura amenyo ari kugenda arukoza hagati y'amenyo ye, ni byiza cyane gusukura amenyo yacu dukoresheje urudodoro.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa etaje, ikaba ifite ibirahure abarimo imbere bareberamo ngo barebe uko hanze hahagaze. Hejuru handitseho amagambo mu ibara ry'umuhondo ngo hope.

Umugabo ufite ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo, yagiye kwa muganga ari gutunga urutoki mu menyo ye, muganga nawe we ari kugenda amubwira ko hari n'andi menyo y'amakorano ashobora gushyiramo atagomba kugira ikibazo.

Umusore ufite agasatsi gakeya ubwanwa bukeya ndetse n'amenyo meza cyane y'umweru, yambaye agapira k'umukara. Aho ari guseka atwereka ukuntu amenyo ye ari meza kubera ukuntu ayagirira isuku.

Umwana wagiye kwa muganga afite uburwayi bw'amenyo. Muganga rero yambaye imyenda yabugenewe ndetse n'amadarubindi. Yamwasamishije ari kugenda areba ko amenyo ye atameze neza kugira ngo ayakure.

Umusore uri guseka yishimye cyane, akaba afite urudodo mu ntoki ze, ari gukorera isupu amenyo ye, baradukangurira kutwigisha ko natwe tugomba kujya dusukura amenyo yacu, dukoresheje urudodobo.

Umwana wagiye kwa muganga, akaba aryamye, aho muganga hari ibyuma ari kohereza mu kanwa ke kugira ngo amukure amenyo ye ameze nabi maze abashe kumererwa neza.

Umwana urwaye ikibazo cy'amenyo, yagiye kwa muganga none abaganga bamwasamishije, bambaye udupfukamunwa, bari kureba ikibazo amenyo ye yaba afite, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo ngo: "Icyerekezo cyacu."

Umusore uri gukorera isuku amenyo ye akoresheje urudodo rwabugenewe, ni byiza cyane gusukura amenyo yacu dukoresheje urudodo, kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, yambaye kandi n'agapira k'umweru.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye, hari umugore warwaye amenyo none akaba yaje kwivuza, hari abaganga babiri bari kugenda bamwitaho bareba ko bakura ayo menyo.

Umusore wambaye agapira k'icyatsi cyijimye aho afite amenyo meza, afite n'amenyo y'amakorano mu ntoki ari kuyatunga urutoki rwe rw'ibumoso.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivis zijyanye n'ubuvuzi zigiye zitandukanye. Aho hari ibyuma biri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru. Ibikuta birasa umweru dereri. Ndetse ni ahantu heza cyane.

Umusore wambaye agapira k'umweru, wateretse umusatsi ari gukorera isuku ye amenyo akoresheje urudodo, aho ari kwireba mu ndorerwamo ngo arebe niba nta myanda yasigayemo.

Umugore wagiye kwa muganga afite ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo. Aryamye hasi ku gitanda, muganga yambaye udupfukantoki, ari kugenda amukura amenyo afite ibibazo.

Umukobwa ufite amenyo meza cyane y'umweru, akaba afite n'imisatsi myiza cyane, afite akadodo ari gukoresha isuku y'amenyo kugira ngo amaremo imyanda yose.

Umukobwa uri guseka, afite amenyo meza cyane, akaba yakoze ikimenyetso cya mpande enye, hagati y'amenyo ye. Ari kutwereka uburyo ki, gucukura amenyo ari ingenzi, biyarinda kurwaragurika.

Umwana muto cyane w'umukobwa, akaba afite uburoso mu ntoki, ari kugenda akora isuku y'amenyo ye, yicaye ku ntebe isa ubururu. Ni byiza cyane gutoza umwana ukiri muto kugira isuku y'amenyo kuko bituma agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Igikanka kitwereka amenyo uko aba agiye areshya, ibi babikora kugira ngo dusobanukirwe neza ingano y'amenyo yacu ndetse n'imizi yayo.

Umugore ufite ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo, aryamye kwa muganga ku gitanda, none umuganga yamuzaniye akadodo, ari kumubwira ngo aka ngaka bakifashisha bari gusukura amenyo kugira ngo birinde indwara nyinshi.

Umukobwa uri gukorera isuku amenyo ye akoresheje uburoso, yambaye agasengeri kari mu ibara ry'umweru, ateze igitambaro aho ari gusukura amenyo ye, ni byiza cyane kuyagirira isuku.

Abantu benshi cyane bageze mu zabukuru, bakaba bicaye ahantu hamwe aho bari mu nama, bakurikiye umuntu uri imbere utagaragara, uri kubagezaho iyo nama.

Umusaza n'umukecuru bishimye bari kumwe. Umusaza ari gusoma umukecuru ku itama, umukecuru na we byamurenze ari guseka ateze igitambaro cy'umutuku, ndetse yambaye n'agakote k'umukara.

Umukecuru wambaye amadarubindi akaba ari kunywa imiti yahawe na muganga, afite ikirahure mu ntoki cy'amazi arahita asomaho akimara gutamira iy'imiti.

Umukecuru ugeze mu zabukuru akaba afashwe mu ntoki n'umuganga w'umugore ukiri muto, umuganga akaba yambaye impuzankano ndetse afite n'akuma bifashisha bapima uburyo umutima utera mu ijosi.

Umusaza ugeze mu za bukuru akaba yicaye imbere ye hari umuganga w'umugore, ari kugenda amwandikira imiti agomba gufata kugira ngo ubuzima bwe bugende neza kandi buzabe buzira umuze.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, ari kumwe n'umusaza aho ari kumuhereza icyayi, umusaza na we yafashe ikirahure ari kugenda asomaho ngo yumve ko icyo cyayi cyaba gitunganyije neza.

Abantu babiri, umukecuru ugeze mu zabukuru ari gutambuka mu muhanda hamwe n'umukobwa we. Baratambuka bishimye, ubona ko banezerewe kandi basa neza. Iruhande rwabo, hari ubusitani bwiza cyane, burimo ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, akaba ari guterura ariteri mu ntoki ze, ahagararanye n'abazungu, aho bari kugenda bamwerekera uko agomba kubikora, bambaye imyenda y'umweru bose.

Abantu benshi bateraniye hamwe, harimo umusaza n'umukecuru, umugabo n'umugore ndetse n'abana. Bakaba bishimye bari gufata ifoto nziza cyane y'umuryango. Ni byiza cyane ko umuryango uhurira hamwe ukifotoza.

Abakecuru batatu bageze mu zabukuru, uwo hagati afite telefone bose bari kuyirebamo batangaye, babiri muri bo bambaye ingofero, abandi babiri muri bo bambaye amadarubindi.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe biragaragara ko bari mu nama, bicaye munsi y'uruziga aho bari kugenda baganira bahanahana ibitekerezo, bicaye munsi y'igiti gitanga umuyaga n'amahumbezi.

Umusaza ugeze mu zabukuru yambaye agashati ka shokora ari gusoma igitabo aho yifashe mu gahanga, iruhande rwe ku meza hateretse ikirahure kirimo amazi yo kunywa araza gusomaho nagira icyaka.

Umusaza ugeze mu zabukuru, akaba yicaye iwe mu rugo, aho ari kwitabwaho n'umwana we w'umukobwa agenda amuha ibyo kurya ndetse amusukira n'akaji mu kirahure.

Umusaza ugeze mu zabukuru akaba yambaye agasati gasa na shokora, imisatsi ye yabaye imvi, ari kureba ku isaha atunzeho ukuboko ngo arebe ko iminota yicuma.

Umusaza ugeze mu zabukuru, ari kumwe n'umukobwa we. Akaba ateze ibiganza, umukobwa agiye kumushyiriraho imiti agomba kunywa. Imbere y'uyu musaza, hari mudasobwa. Bari mu cyumba giteye amarange asa umweru.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivise zigiye zitandukanye z'ubuvuzi. Aho hari igitanda kiryamyeho umurwayi wambaye agapira k'umweru. Akaba ari umusaza ugeze mu zabukuru. Hari umuganga umuhagaze imbere, uri kumubaza uko amerewe.

Umusaza ugeze mu zabukuru yicaye ku gitanda muganga ari kumuhagurutsaho amwiyegamije kugira ngo abashe gutera intambwe, umusaza agende arushaho kugororoka.

Umusaza ufashe agacupa k'umukara, akaba ageze mu zabukuru, ari kumwe n'umukecuru we, umukecuru yambaye amadarubindi, imbere ye afite mudasobwa ari kureba kuri ako gacupa umusaza afite.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, yambaye ishati y'umweru akaba afite ikirahure mu kuboko kw'iburyo, mu kw'ibumoso araguteze agiye guhabwa ibinini na muganga agomba kunywa maze ubuzima bwe bukagenda neza.

Umusaza ugeze mu zabukuru akaba ari gukina n'ikibubuzo, ari kugenda yimura inka bakoresha bakina wenyine, ni byiza cyane ko umuntu ugeze mu za bukuru abona icyo ahugiraho.

Umusaza ugeze mu zabukuru akaba yagiye kwa muganga, muganga w'umukobwa ari kumukoresha imyitozo ngororamubiri kugira ngo agororoke, umusaza yambaye agapira k'umukara afashe ku twuma tubiri.

Ni byiza cyane ko mu Rwanda haje uburinganire umuntu wese aba yemerewe gutanga igitekerezo, uyu mukecuru rero afite indangururamajwi mu ntoki, ari gutanga igitekerezo ahagaze kuri ruhangombone.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, akaba yagiye kwa muganga, none muganga akaba ari kugenda agorora amaboko ye, amukoresha imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, akaba afite udukoresho tuzwi nk'ariteri tw'icyatsi, ari kuduterura bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo imitsi ye igororoke.

Umusaza ugeze mu za bukuru, akaba acigatiye umwuzukuru we, bari kurebana bahuje imibiri, bose bakaba bafite akamwenyu, nubwo batabumbuye iminwa, bari mu nyubako ifite inkuta ziteye irange ry'umweru.

Umukecuru uri mu za bukuru, ari kumwe n'umwana we w'umukobwa. Uwo mukecuru yambaye amadarubindi n'agapira k'umweru. Umukobwa yambaye agapira k'icyatsi kerurutse ari kumureba. Umukecuru ari gutunganya imboga n'imbuto.

Umukecuru ugeze mu zabukuru yambaye agapira k'umuhondo, akikijwe n'abandi babiri bagenzi be na bo bambaye udupira tw'umweru, afite telefoni mu ntoki bose bari kureba bishimye bari guseka.

Abantu benshi cyane bageze mu zabukuru, harimo abasaza ndetse n'abakecuru, bicaye ku ntebe z'imifariso bagiye bafashe inshyimbo mu ntoki zabo, biragaragara ko bahuriye hamwe bari kungurana ibitekerezo.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, harimo abamama, abana, ndetse na nyirakuru, bari gufata ifoto y'urwibutso bigaragara ko bari kutwereka nk'umuryango mwiza cyane kandi wuzuye.

Umusaza ugeze mu zabukuru, yicaye mu kagare k'abafite ubumuga, umwana we w'umukobwa, ari kugenda amusunikamo. Umusaza arishimye cyane, ndetse yambaye amadarubindi, imisatsi ye ni imvi, umukobwa na we ari guseka cyane.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe mu cyumba, baricaye bose ni abageze mu zabukuru, bahanze amaso umusaza umwe uri kuboha igiseke, inyubako bicayemo iteye amarangi yashaje.

Umusaza ugeze mu zabukuru, akaba yambaye amadarubindi n'agashati k'umutuku, afite igitabo n'ikaramu mu ntoki arimo arasoma, ari kugenda asinziriraho kubera ko ashaje.

Umusaza uri mu zabukuru akaba yagiye kwa muganga, ari kumwe n'umugore w'umuzungu amufashe mu ntoki, ari kugenda yumva ko ubuzima bumeze neza, umusaza na we yambaye amadarubindi arishimye cyane ari guseka.

Umusaza ugeze mu zabukuru, akaba afite imisatsi y'imvi, yicaye hasi ku gatebe afite inkoni, arimo arasangira n'abana babiri bamwicaye imbere, aho bari kurya imigati, uwo hirya we afite n'ikivuguto ari kunywa.

Umusaza ugeze mu zabukuru ari kurebana n'umukobwa w'umuganga bose barishimye cyane, uwo muganga yambaye itaburiya iri mu mabara y'ubururu ndetse mu imbere yambariyemo n'agapira k'umweru afite n'ikarita iranga icya akora.

Abantu benshi bateraniye hamwe biganjemo abageze mu zabukuru, bicaye ahantu hari ubusitani bwiza, harimo n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi, bose bahanze amaso umukecuru uri kuboha agakapu.

Amagambo yanditse mu mabara y'umweru, ahantu hasa ubururu. Aya magambo akaba asobanura ngo "Ubuzima bwiza ku baturage b'u Rwanda".

Umugore wicaye yambaye ipantaro y'umukara ndetse afite indangururamajwi mu ntoki, yambaye amadarubindi, aho atereye akaguru ku kandi ari gutanga ikiganiro.

Umugabo wambaye amakositimu, akaba ahagaze imbere ku ruvugiro, biragaragara ko ari gukoresha inama, inyuma ye hari amagambo yanditse ku rukuta mu ibara risa na shokora, agaragaza insanganyamatsiko bari kwigaho.

Amagambo ari mu ibara ry'umweru, yanditse ahantu hasa icyatsi . Hariho n'ikimenyetso cyo gukuba cy'umutuku. Hejuru hariho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'ibirango by'ikigo cy'igihugu cyita ku buzima mu rwanda RBC.

Utuziga dufite umuzenguruko w'icyatsi, hejuru hakaba handitseho amagambo avuga ngo duhagarike Corona Virus, utwo tuziga tukaba turimo uburyo bugiye butandukanye umuntu yakoresha yirinda Kovide cumi n'icyenda.

Umugore wagize ikibazo, yambaye imyenda y'umukara, yagiye kwa muganga none muganga ari kumupfuka ku nkokora aho yagize ikibazo, hirya hari abandi bantu bategereje.

Abantu benshi bari kugenda mu muhanda hari igikorwa bari kwamamaza, bambaye imyenda iri mu mabara y'umweru, bafite icyapa cyanditseho ngo urubyiruko ni mwe hazaza heza h'uru Rwanda irinde virusi itera SIDA, ipimishe uyu munsi.

Ikirango kiri mu ruziga. Kikaba gifite umuzenguruko w'ubururu ndetse n'amabara y'umweru. Handitseho amagambo y'umukara ndetse mo hagati hashushanyijemo ikarita y'igihugu cy'u Rwanda

Abantu benshi cyane batandukanye bambaye imipira y'impuzankano y'umweru. Bari kugenda mu muhanda bafite ibyapa byanditseho amagambo ngo ''twihererinde kanseri y'ibere, tuyisuzumishe hakiri kare kuko iravurwa igakira.''

Abaganga benshi cyane bagiye batandukanye, bahuriye hamwe aho bari kugenda baganiriza barwayi ndetse banabasuzuma, bose bambaye udupfukamunwa bigaragara ko cyari igihe cyo muri kovide cumi n'icyenda.

Umugore w'umuganga akaba afite imisatsi myiza ya menshi, yambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu, iruhande rwe hari icyapa kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru handitseho n'amagambo y'umukara.

Amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza mu ibara ry'umweru. Yanditse ahantu hasa icyatsi. Aravuga ngo "ubuzima bwiza ndetse n'imibereho myiza". Hari umubare gatatu ndetse n'uturonko tuvunaguye tugana mu mutima.

Umusore wagize ikibazo k'imvune igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, abakorerabushake ndetse n'abaganga baje kumuha ubutabazi bw'ibanze, aho bamuryamishije ku kagare bashyiraho umuntu wagize ikibazo k'imvune.

Amagambo agiye atandukanye yanditse ahantu hari mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi, aya magambo akaba yanditse mu ibara ry'umweru mu rurimi rw'icyongereza.

Umugore mwiza cyane wambaye agapira gasa umutuku. Arasa inzobe ndetse afite imisatsi y'umukara. Akaba yasohotse ku cyapa, aho batubwira ko ariwe uzatuganiriza ibijyanye n'uko twakwirinda kovide cumi n'icyenda.

Amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza. Akaba yanditse ahantu hasa umweru. Aya magambo rero aratubwira ko umuntu agomba gukora imyitozo ngororamubiri, akirinda gutekereza cyane kugira ngo yirinde kunaniza ubwonko.

Umurwayi urembye cyane aryamye ku gitanda kwa muganga, hari abaganga benshi bamuteraniyeho bari kugenda bamwitaho kugira ngo barebe ko bamusubiza ubuzima bityo akarushaho kumererwa neza.

Abagabo babiri bose bambaye amakositimu asa umukara, bakaba aribo bari kwerekanwa ko aribo bazatanga ikiganiro ku nsanganyamatsiko yita ku bijyanye n'ubuzima.

Ikimenyetso cyo gukuba kigaragaza indwara tuba tugomba kurwanya, kiri mu mabara y'ubururu n'umutuku, izo ndwara ni Virusi Itera Sida.

Abana n'ababyeyi babo bari ku cyapa kigaragaza umuryango w'abibumbye ku isi wita ku buzima bw'abana uzwi nka UNICEF, munsi handitseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongerezabo.

Abantu benshi bateraniye hamwe bari mu nama, iyi nama ikaba yarabaye ku itariki makumyabiri z'ukwa Cumi bibiri na makumyabiri na kane, ikaba yarabereye i Kigali mu Rwanda yiga ku buryo bahagarika icyorezo cya Marburg.

Abantu bagera muri bane, bifotoje bari mu cyapa gisa ubururu cyanditseho amagambo y'umweru mu rurimi rw'Icyongereza, aba ni abagore bari kwerekana uko serivise z'ubuzima ari nziza mu Rwanda.

Umukobwa wambaye agashati k'icyatsi n'ijipo y'umweru, ahagaze imbere mu nama kuri ruhangwaboni, bose bamuteye ijisho aho afite indangururamajwi mu ntoki ari kugenda abasobanurira uburyo ki twakwita ku buzima bwacu.

Umukecuru ucigatiye umwana, uyu mwana rero akaba ari kurebana n'umukecuru, umukecuru arishimye n'umwana arishimye, ubu ni uburyo bwo kwita ku bana.

Hari mu gihe cya Covid cumi n'ikenda. Uyu mugore yagiye kwikingiza urukingo rwa Covid cumi n'ikenda, muganga ari kurumutera. Umugore akaba afite ubwoba cyane bigaragara ko atinya urushinge.

Icyapa kiri mu mabara y'icyatsi, cyanditseho amagambo y'umweru, munsi hari ikirango cya kaminuza y'u Rwanda ndetse n'ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda n'ibindi birango bigiye bitandukanye.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari kwifotoza harimo abagabo n'abagore abera n'abirabura, inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo y'umweru agaragaza insanganyamatsiko bari bari kwigaho.

Abantu benshi bateraniye hamwe mu cyumba k'inama, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, harimo abisilamu ndetse n'abarokore, bafite udutabo mu ntoki bose, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza insanganyamatsiko bari bari kwigaho.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye, harimo ibitanda abarwayi baryamaho igihe baje gushaka serivisi z'ubuzima, hari amarido agiye atandukanya igitanda ndetse n'ikindi.

Icyapa gisa umutuku n'umweru cyanditseho ikigo nderabuzima cya Matyazo, hashushanyijeho ikirangantego cy'u Rwanda, icyo kigo nderabuzima gisakaje amabati y'ubururu, giteye amarange y'umweru, imiryango irafunguye hari abantu bari gusohokamo.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivise zigiye zitandukanye z'ubuvuzi. Amatara ari kwaka. Parafo zaho zirasa umweru. Harimo amabara agiye atandukanye mu cyumba. Bigaragara ko gishimishije. Harimo n'igipupe cy'akanyamasyo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ifite amagorofa abiri, umuryango ugaragara urafunguye, akaba ari farumasi ya Tageti.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa. Ikaba iriho ikirango cy'icyapa kimanitseho. Kiriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda. Mu mbuga yaho haparitsemo imodoka nyinshi.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivise zigiye zitandukanye kwa muganga. Aha rero, ni aho bakorera imyitozo ngororamubiri. Hari ibikoresho byabugenewe biba bifite isakazamashusho ku buryo umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, aba agenda yirebera ibintu bitandukanye.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, iteye amarange ajya gusa umutuku, hakaba hapariste moto mu butani bwaho, aha ngaha akaba ari Ikigo cy'Igihugu. Gishinzwe Kuvura Indwara za Kanseri.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivise zigiye zitandukanye z'ubuvuzi. Aho harimo ibikoresho byose nkenerwa bifashisha. Harimo intebe zisa icyatsi ndetse n'izisa umukara, harimo kandi n'igishushanyo cy'amaso gishushanyije ku bikuta.

Icyumba kigari cyane kimenyerewe nk'inzu mberabyombi, aho gikunze kuberamo inama, harimo intebe nyinshi z'umukara ndetse imbere yazo hakaba hari ameza y'umutuku ndetse ariho n'indangururamajwi.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye by'umwihariko izijyanye n'ubuvuzi, harimo igitanda abarwayi baryamaho ndetse n'ibindi bikoresho byose abaganga bifashisha.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivise zigiye zitandukanye by'umwihariko iz'ubuvuzi. Hari ibikoresho byose nkenerwa, abaganga bifashisha mu kwita ku barwayi. Ibiputa biteye amarange y'umweru ndetse hasi hashashemo amakaro.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivise zigiye zitandukanye by'umwihariko z'ubuvuzi, hari udutara turi kugenda twaka ku nkuta mu nguni dusa icyatsi, iyi nyubako rero ni ingenzi kuko ibitaro biba bigomba kuyigira.

Udushashi twifashishwa n'abaganga igihe baba bafata amaraso aho iyo ugiye kubaha amaraso, bagutera urushinge hanyuma agatiyo kakajya kayashyira muri ibi bikoresho.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, hari umuganga urimo wambaye imyenda y'akazi, akaba ari kureba mudasobwa agenda areba uko uyu muti afashe mu ntoki ukoreshwa.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye by'umwihariko serivisi zijyanye n'ubuvuzi. Harimo ibikoresho byose nkenerwa abaganga bifashisha. Hasi hateye irangi ry'ubururu.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye. Akaba ari aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Inyubako nziza cyane z'ubwoko bugiye butandukanye, utuyira tuziganaho dushashemo amapave, hari abantu bari kuhagana, hari ubusitani bwiza buteyemo ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye iteye irange ry'umweru ndetse isize amabara y'ubururu imbere avuga ngo inzu y'ababyeyi, iyi nzu isakaje amabati y'ubururu, hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zikaba zisakaje amabati asa icyatsi, utuyira tuziganaho tukaba dushashemo amapave, hari kandi n'ubusitani bwiza burimo ibyatsi byiza cyane bitoshye.

Kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi. Hari umuganga w'umumama wapfunduye icyuma akaba ari kurebamo. Icyo cyuma kirasa umweru n'ubururu, ari kureba ko ibikoresho birimo byujuje ibyangombwa neza.

Umurwayi urwaye arembye, ari kwa muganga aryamye ku gitanda, igice cy'umutwe cye ntabwo kigaragara, hari umuganga w'umukobwa wambaye agashati k'icyatsi, akaba ari kugenda amworosa udushuka.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye. Harimo ibikoresho byose nkenerwa abaganga bifashisha mu gihe baba bari kwita ku barwayi.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, aho harimo ibikoresho byose kabuhariwe nkenerwa, abaganga bifashisha mu gihe baba bari kwita ku barwayi, insakazamashusho zirafunze ndetse zirasa umukara.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye, hakaba hari ibikuta biteye amarangi y'umweru, imiryango irafunguye ndetse no mu gakorodori karombela nta muntu urimo.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi. Imiryango irafunze, aho ibikuta bisa umweru. Hejuru y'umuryango hakaba handitseho ko ari aho bakorera operation.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye, harimo umwana uryamye ku gitanda bigaragara ko arwaye arembye, ibitanda kandi bigiye bitandukanijwe n'amarido asa icyatsi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho. Akaba ari inyubako isize amarangi y'mweru ku bikuta. Ifite uturahure ndetse n'utwapa turi imbere yayo. Ni inyubako nziza.

Umwana wagiye kwa muganga kwipimisha umuvuduko w'amaraso. Muganga yamushyize icyuma cyifashishwa mu gupima umuvuduko w'amaraso mu kizigira cy'ukuboko. Umwana na we arateze kugira ngo muganga amubwire ibisubizo.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, haba harimo ibikoresho byose nkenenerwa abaganga bifashisha bari kwita ku barwayi, haba hari kandi n'ahantu umurwayi yicara hanze akaganira na muganga arimo imbere bari kurebana.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Hicayemo abaganga batatu bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru. Icyo cyumba rero kirasa umweru.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, iyi nyubako isakaje amabati atukura, ifite ibikuta biteyeho amarangi ajya gusa umutuku, inkingi zayo ziteye irangi ry'ivu, imiryango y'iyi nyubako irafunguye.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye, harimo ibitanda abarwayi baryamaho, hari kandi n'umugabo uri kuzinga inzitiramibu kubera ko bwakeye, arongera kuzimanika nibwira.

Ni mu cyumba cy'inyubako itangirwamo serivise zo kugurisha imiti, ahazwi nko muri Progress Pharmacy. Aha ngaha rero mu gihe ufite ikibazo cy'uburwayi bworoheje, wahanyirukira bakakugurisha imiti byihuse.

Umusore wagiye kwa muganga kwikingiza, yambaye agasengeri gusa ishati yayimanuye, iruhande rwe hari umuganga uri kumutera urushinge, bigaragara ko yari ari kumukingira urukingo rw'icyorezo runaka.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, iteye amarange y'umweru ku bikuta, hashushanyijeho kandi n'Ikirangantego cy'u Rwanda, iyi akaba ari laburatwari, munsi hahagazemo umugabo wambaye itaburiya.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, hari umuganga wambaye agapfukamunwa k'umukara akaba ahagaze imbere ya mudasobwa ari kurebamo, bigaragara ko ari kureba uko ibintu bihagaze

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa. Ikaba igeratse kabiri. Iteye amarange y'umweru ku bikuta. Akayira kayiganaho gateyemo kaburerimbo. Hari kandi n'ubusitani bwiza cyane.

Inyubako nziza cyane, zubatswe mu uburyo bugezweho. Imwe, y'ubakishije, amatafari, ahiye, indi yubatse, mu buryo bw'uruziga. Hari ubusitani bwiza cyane, buteyemo uduti duto, ndetse n'utuyira, tuziganaho, dushashemo, amapave.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivise zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, hari ibitanda bishasheho amashuka y'umweru n'ubururu, hari kandi n'amarido agiye atandukanya ibyo byumba asa umweru.

Abantu benshi cyane batonze umuronko, harimo abagore n'abagabo, bambaye imyenda igiye itandukanye iri mu mabara y'umuhondo, ubururu, umweru, umutuku ndetse n'umukara. Hari n'umuntu uri ku kagare k'abafite ubumuga, imbere yabo hari abantu bari kubaha serivise.

Ku nyubako itangirwamo serivise zigiye zitandukanye z'ubuvuzi ku kigo nderabuzima, hari urujya n'uruza rw'abantu, baje kuhashaka serivise, hari imodoka ipaharitse, imbuga yaho ishashemo, amapave.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye, hari umugore wicaye muganga ari kumubaza uko amerewe, iruhande rwe inyuma hahagaze undi muganga uri gusoma igitabo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba ifite amagambo yanditse hejuru mu rurimi rw'lcyongereza, ayo magambo akaba yanditse mu mabara agiye atandukanye.

Kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi zigiye zitandukanye. Harimo ibikoresho binyuranye abaganga bifashisha bari kwita ku barwayi. Ibikuta byaho biteye irange ry'umweru ndetse haciyemo uturonko tw'ubururu n'umutuku.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bwiza cyane. Umuryango urafunguye ndetse ifite ibirahure bya fime bitabonerana. Mo imbere hari kugaragaramo umuntu. Aha ni muri farumasi, i Kanombe.

Abantu bateraniye hamwe mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga, bambaye amataburiya y'imyeru ndetse n'amapantaro y'umukara bigaragara ko ari abaganga, bakaba bari gukora akanama mbere yuko batangira akazi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, isakaje amabati y'ubururu, iteye amarangi y'umweru, aha akaba ari ku kigo nderabuzima, hari ubusitani bwiza burimo umucaca ukiri muto ndetse hateyemo n'igiti cy'umwembe.

Inyubako nziza cyane irimo icyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi kwa muganga, haba harimo ibitanda bitandukanye, hagati y'igitanda n'ikindi haba hari igikuta cy'umutuku kibitandukanya.

Inyubako nziza cyane y'Ikigo nderabuzima cya Shagasha, yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati asa ubururu, ibikuta biteye amarange y'umweru, hari abantu bagera muri batatu bicaye munsi y'urubaraza rwayo.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Bateraniye hamwe ku nyubako itangirwamo serivise z'buvuzi kwa muganga. Hari kandi ubusitani bwiza cyane, burimo indabyo ziteye amabengeza.

Umuganga uri gutambuka mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, akaba yambaye impuzankano ziri mu mabara y'icyatsi. Ari gutambuka agenda areba buri murwayi uko ahagaze kugira ngo amwiteho.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba isakaje amabati y'ubururu ndetse yubakishije amatafari ahiye, ikaba yanditseho amagambo agira ati inzu y'ababyeyi.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye kwa muganga, hakaba nta muntu n'umwe uri muri icyo cyumba, ariko hakaba hari kizimyamwoto y'umutuku yometse ku gikuta ahagana hanze.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga, harimo abaganga babiri aho bapfunduye icyuma bari kurebamo bombi, bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'udupfukamunwa tw'umweru.

Umwana wagize ikibazo cy'uburwayi, ise yabimenye hakiri kare ahitamwihuta no kwa muganga, ni byiza cyane kujyana umwana kwa muganga, mu gihe ukibona kimwe mu bimenyetso mpuruza, urabona ko muganga ari kumwitaho umwana na we yishimye.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, ikaba igeretse inshuro zigera muri enye, ikaba iteye amarangi y'umweru n'umuhondo, imbuga yayo ikaba ishashemo amapave ariko kandi iparitsemo imodoka.

Kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi zigiye zitandukanye, harimo ibikoresho byose nkenerwa abaganga bifashisha, ariko kandi harimo n'insakazamashusho ebyiri zijimije.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi kwa muganga. Hari abarwayi baharyamye. Abiganjemo n'abagabo babiri. Hari abaganga babiri bari kugenda babitaho buri wese n'uwe.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, aha akaba ari mu bitaro bya CHUB. Ni ibitaro bya Kaminuza y'u Rwanda, biherereye mu Karere ka Huye, mu Ntara y'Amajyepfo, hari kandi n'icyapa ku muhanda kibigaragaza.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, by'umwihariko serivisi z'ubuvuzi, harimo ibikoresho byose nkenenerwa abaganga bifashisha bari kwita ku barwayi, byose byiganjemo biri mu mabara y'umukara, ubururu ndetse n'umweru.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye amarangi y'umweru, iruhande rwaho mu mbuga hashashemo amapave, ikirere kirasa ubururu ndetse n'umweru.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'igorofa ifite ibirahure byiza cyane, ndetse ifite n'ibiti by'imikindo biteye imbere yayo bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Ni mu cyumba gitangirwamoho serivise z'ubuvuzi kwa muganga. Harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, abaganga bifashisha bita ku barwayi ariko ntamuntu n'umwe urimo. Habereye aho.

Ku marembo y'ibitaro bya Kabgayi. Ibi bitaro rero biherereye mu ntara y'Amajyepfo, Akarere ka Muhanga, harimo ibiti byinshi cyane bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari kwifotoza. Harimo abazungu ndetse n'abirabura. Bari kwifotoreza imbere y'Ibitaro bya Rwamagana. Hari amakoma y'ingemo ari kugaragara. Imbuga y'ibyo bitaro ishashemo amapave.

Abaganga bagera muri batatu, bakaba bambaye amataburiya, bambaye udupfukamunwa ndetse n'utunozasuku mu mutwe, bakaba bari gusuzuma ibyuma byifashishwa mu buvuzi ko byaba bimeze neza ngo babone kuko bita ku barwayi.

Inyubako nziza cyane y'ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, muri aya magorofa iyo hasi n'iyo hejuru hari abantu bahahagaze baje kuhashaka serivise.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivise z'ubuvuzi zigiye zitandukanye kwa muganga, imiryango imwe n'imwe irafunguye indi irafunze, hari korodoro irombereje abantu banyuramo baje gusaba serivise.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, abaganga bifashisha bari kwita ku barwayi, ibyiganzamo cyane, ni ibikoresho bifashisha bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivise zigiye zitandukanye by'umwihariko iz'ubuvuzi, hari icyuma kizwi nka sikaneri banyuzamo umurwayi kugira ngo barebe indwara arwaye.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati y'ubururu, iteye irange ry'umweru, kuri porotayi hakaba hariho ibyuma by'umutuku byanditseho ko ari ikigo nderabuzima cya Kinyinya.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, harimo abera n'abirabura, bahagaze imbere y'icyapa mu busitani, icyo cyapa kikaba cyanditseho ngo ''ibitaro bya Butaro,'' biherereye mu Karere ka Burera.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga, hari ibikoresho byose nkenerwa abaganga bifashisha bari kwita ku barwayi, icyumba rero gifite ibirahure bibonerana ndetse giteyeho irange ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bw'ama etaje, zikaba zifite amarangi y'umweru ndetse zubakishije amatafari ahiye, zifite ubusitani bwiza cyane burimo ibyatsi bitoshye, harimo kandi n'itara ribucanamo.

Umuganga wambaye ikositimu ry'umukara, ari kureba muri mudasobwa itagendanwa, imbere ye afite indi igendanwa, ari kureba indwara zidakira ukuntu ziba zimeze.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, haryamye umugabo ku gitanda ubyibushye wambaye agakabutura, bakaba bamushyize serumo kukaboko bigaragara ko arebye.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari mu cyumba cy'inama, higanjemo abagore n'abagabo, bambaye imyenda y'impuzankano iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi cyerurutse.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro bya Nyanza, yubatswe mu buryo bugezweho, ifite ibiti umuyaga n'amahumbezi ndetse inzugi zayo ku gipangu zirasa ubururu.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zagiye zitandukanye, harimo intebe z'ishezi, abaganga n'abarwayi bicaraho, harimo kandi n'ameza, icyo cyumba gishushanyijemo n'ifoto y'igikanka.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye abaganga bifashisha bari kwita ku barwayi, ndetse ibikuta birasa umweru.

Imyitozo ngororamubiri umuntu ashobora gukora bityo akagira ubuzima bwiza buzira umuze, hari ibyuma biba biri mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga byifashishwa.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye, harimo ibitanda abarwayi baryamaho igihe baje kwivuza, harimo kandi n'abaganga bari kugenda babitaho.

Inyubako zubatswe mu buryo bugezweho, hari iyubatswe mu ishusho y'uruziga ndetse n'iyubatse neza yubakishije amatafari ahiye, utuyira tuziganaho tukaba dufashemo amapave, hari kandi n'ubusitani bwiza.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye, haba harimo ibitanda abarwayi baryamaho igihe baje kwivuza, hakaba harimo abarwayi babiri, ugana hino ni umusaza uremye cyane, abaganga nibatamwitaho arahasiga ubuzima.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, aho haba harimo ibikoresho byose ngenerwa abaganga bifashisha, aha harimo akameza ndetse n'intebe umurwayi yicaraho, amatara ari kwaka, hari kandi n'amarido atwikira ku madirishya.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri. Akaba yambaye agapira k'umukara ndetse n'agakabutura k'umukara, gacoyemo uturonko tw'umweru. Yambaye kandi na kora y'umutuku. Ahagaze ahantu hari tapi z'icyatsi.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, by'umwihariko izerekeranye n'ubuvuzi, harimo ibimashini byifashishwa kugira ngo iyo serivisi igende neza.

Umuntu wirabura cyane, akaba afite gurude isa umukara n'icyatsi, ari kunywa amazi. Ni byiza cyane kunywa amazi, kuko bituma tugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Igikoresho kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara. Kikaba gifite ndetse n'aho imibare yiyandika. Iki kifashishwa n'umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri. Aho akizirikaho akamenya igihe amaze gukoresha.

Umukobwa wicaye hasi ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agapantaro k'umukara n'agasengeri k'umweru, yicaye ukuguru kumwe yaguhinnye ukundi yakurambuye, aho akaboko k'ibumoso agakoza ku mano y'akaguru k'ibumoso.

Agasanduku k'umweru kaba karimo ibikoresho bigiye bitandukanye, abaganga bifashisha bari kwita ku murwayi wagize ikibazo cy'imvune igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yambaye isaha ku maboko, yambaye ekuteli mu gutwi, yambaye agasengeri kajya gusa umutuku, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Amoko agiye atandukanye y'ibikoresho wakwifashisha mu gihe uri gukora imyitozo ngororamubiri ukaba wavunitse, ni byiza cyane ko wakwifashisha ibi bikoresho kuko birakuvura ugakira.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yatereye umupira ku rutugu, yambaye agasengeri gasa n'ivu, afite gurudu irimo amazi, yararamye, ari kugenda ayanywa gake gake.

Amoko agiye atandukanye y'imiti umuntu anywa ikamufasha kumererwa neza mu mutwe, hari kandi n'urushinge batera umuntu wabaswe n'ibiyobyabwenge bikaba byamuvamo, bityo akagira ejo he hazaza heza.

Ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura umuntu wagize ikibazo igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, harimo ibiri mu mabara y'umutuku, icyatsi ndetse n'umweru.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umukara n'agapantaro k'umukara, yari ari gukora imyitozo ngororamubiri none arananiwe, afashe icupa ry'amazi mu ntoki ari kugenda asomaho, afite telefone yazirikiye ku kizigira cy'ukuboko.

Amoko agiye atandukanye y'imiti ikunze kwifashishwa cyangwa se ibikoresho byifashishwa n'abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri. Bikaba biri mu mabara menshi agiye atandukanye. Aho higanjemo amabara y'umweru.

Hari amoko agiye atandukanye y'imyitozo ngororamubiri umuntu yakora bityo akagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, hari uguterura ibyuma, gukina umukino w'amaguru, kugenda bisanzwe ndetse n'izindi.

Agakoresho abaganga bifashisha bari kwita ku barwayi, mu gihe baba bari gupima ko umutima utera neza. Kari mu mabara y'umukara, ubururu ndetse n'ibara ry'umweru.

icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, bifite ibikuta biteye amarangi y'umweru, harimo kandi ibikoresho bya nkenenerwa abaganga bifashisha bari kwita ku barwayi, hari kandi n'agatebe gafite umufariso wubururu.

Ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri. Uyu mukobwa rero, ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ekuteri ndetse yahigikiye na telefone ku kizigira cy'ukuboko. Afashe icupa ry'amazi, ari kunywa bigaragaza ko yaraye agize icyaka.

Abantu benshi bateraniye hamwe, aho bari gukora imyitozo ngororamubiri, hari abana benshi bambaye imyenda ya siporo, hari n'undi muntu uhagaze imbere yabo, uri kugenda aberekera iyo bagomba gukora.

Agasanduku k'umutuku kaba karimo imiti abavuzi bifashisha bari kuvura umuntu wagize ikibazo igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, ibi bikoresho rero ni ingenzi cyane.

Umuntu wagize ikibazo igihe yakinaga umupira w'amaguru, ari kwitabwaho na muganga, aho imbere yabo harambitse umupira, baryamye kuri tapi isa icyatsi, hirya hari abandi bakinnyi bakinanaga.

Umusore wambaye agakabutura ndetse n'agasengeri k'umweru, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari umuganga w'umugore wambaye udupfukantoki tw'umweru amufatiye kuri icyo cyuma kugira ngo adahanuka.

Siporo ni ubuzima, baratwereka siporo nyinshi umuntu ashobora gukora kugira ngo abashe kuba yagira ubuzima bwiza, hari ugukina umupira w'amaguru, gukora siporo ngororamubiri ndetse no guterura ibyuma.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda iri mabara y'umukara, yicaye hasi ahantu mu busitani ari kugenda yikanda mu itako kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri. Uyu mugore rero ari gukora imyitozo ngororamubiri, ariko bamushishikariza no kurya indyo yuzuye irimo intungamubiri, byiganjemo imbuto.

Umugabo uri guterura ibyuma ufite amatugu n'amatuza, akaba ari guterura ariteri, ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri yo guterura, imbere ye hari imboga n'imbuto ushobora kurya ukagira ubuzima bwiza.

Umuganga witwa Viateur Nshimiyumuremyi, akaba ari inzobere mu bijyanye no gutera ibinya umubiri, akaba ari we uzaganiriza abantu ibijyanye n'uburyo ki batera ibinya.

Agakoresho kari mu mabara y'umweru, aka ahanini kifashishwa n'umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, dukunze kugasanga kwa muganga kuko mu cyumba batangiramo serivise z'abantu bakeneye imyitozo ngororamubiri kaba karimo.

Inyandiko iri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi, handitsemo amagambo ari mu ibara y'umweru n'umukara mu rurimi rw'Icyongereza, baratubwira ibintu icumi wakora kugira ngo wirinde imvune igihe ukora imyitozo ngororamubiri.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza cyane ariko bisaba kwitonda igihe uri kuyikora, kuko hari igihe ugiriyemo impanuka, uyu musore rero yavunaguritse amaguru igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, bamuzanye kwa muganga aryamye atinyeganyeza ategereje ko muganga amwitaho.

Icyumba gicururizwamo imiti ivura umuntu wagize ikibazo igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye, iri mu mabara y'umuhondo, umweru ndetse n'ubururu, iyi miti rero akaba ari ingenzi cyane.

Umugabo utereye agatambaro ku rutugu k'umweru, akaba afite agacupa k'amazi mu ntoki ari kunywa. Ni byiza cyane kunywa amazi kuko bituma tugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Agakarito kari mu mabara y'umweru n'ubururu, kanditseho amagambo mu ibara ry'umweru ahantu hari ubururu, iruhande rwako hari bande y'umweru bambika umuntu wagize ikibazo k'imvune igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri.

Ni byiza cyane, gukora imyitozo ngororamubiri, kuko bituma urutirigongo rugororoka. Igihe udakoze imyitozo ngororamubiri, urutirigongo rwawe ruragorama, kandi ukaba udafite ubuzima bwiza, buzira umuze.

Amoko menshi cyane agiye atandukanye y'imbuto umuntu ashobora kurya bigatuma agira ubuzima bwiza, higanjemo amacunga, amaroongi, inanasi ndetse n'imineke.

Umukobwa uryamye wambaye ipantaro y'umukara ari gukora imyitozo ngororamubiri, ari mu cyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivise zo gukora, kugorora umubiri.

Icupa rinini cyane riri kujya gusa ubururu, rikaba ririmo amazi meza yo kunywa bakaba barinaze mu yandi mazi meza aho amazi ari kwiterera.

Umusore wambaye agapira k'umweru, akaba afashe icupa ry'ubururu mu kuboko kw'ibumoso ari kunywa amazi, biragaragara ko yari arimo akora imyitozo ngororamubiri none akaba ananiwe, akaba agiye gufata amazi.

Inkweto bakoresha siporo, ariteri baterura bakora siporo, amoko y'imbuto ushobora kurya uri gukora siporo kugira ngo amaraso yawe atemmbere neza mu mubiri ndetse na bande bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye agapira k'umukara, akaba afite urudodo mu ntoki ari kugenda arurega kugira ngo imitsi ye igororoke, iruhande rwe hahagaze umuganga w'umugore uri kumukoresha iyo myitozo.

Ibiziga bya bande bigiye bitandukanye, biri mu mabara nayo atandukanye, babyambara bari gukora imyitozo ngororamubiri, biri mu mabara y'umutuku, umukara ndetse n'ubururu.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri w'igitsina gore, iruhande rwe hakaba hari akavi kari mu mabara atatu agaragaza ibendera ry'Igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Ijage ifashwe n'umuntu, akaba ari gushuka amazi meza mu kirahure, aya mazi rero ni ingirakamaro kuyanywa kuko umuntu uyanyweye bituma agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, hari igikoresho kiri mu mabara y'umweru aricyo bita icyuma banyuzamo umuntu bari kugira ngo barebe uko ubuzima bwe buhagaze.

Umusore wambaye agapira k'umweru ndetse n'agakabutura k'umukara, yifashe mu mayunguyungu, ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho yarambuye akaguru ku cyuma, akaba ari gukozaho intoki ze.

Umuntu wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri. Akaba ateze ikiganza muganga ari kugenda amuzirikiraho bande kugira ngo yoroherwe. Muganga ni umuzungu, yambaye umupira w'umukara.

Umukobwa wicaye ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agapantaro k'umutuku akaba ari kugenda agorora imitsi ye, amaboko ye yayafatishije ku birenge.

Agakarito kari mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, kanditseho amagambo y'umweru ari mu rurimi rw'Icyongereza, kakaba karimo imiti wakwifashisha mu gihe wagize ikibazo uri gukora siporo.

Ikirahure cyiza cyane cy'umweru, kiri gusukwamo amazi n'icupa risa ubururu, rikaba rifite impeta ku munwa isa umutuku, aya mazi rero akaba ari meza, agiye kunyobwa n'umuntu.

Umusore wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, abo bari kumwe bamwihutanye kwa muganga, bamugejejeyo none muganga ari kugenda amugorora ukuguru kugira ngo arebe ko yakoroherwa.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo intebe y'icyatsi ifite imifariso myiza, ifite kandi n'aho begama abantu bayicayeho, iyi rero ikaba yifashishwa mu gihe baba bari gukura umuntu iryinyo.

Umukobwa utereye igitambaro cy'umweru ku rutugu, akaba yambaye agasengeri karimo amabara y'ubururu, umukara ndetse n'umweru n'icyatsi, afite icupa ry'amazi mu ntoki ari kunywa.

Amoko agiye atandukanye y'imyitozo ngororamubiri, hari abagabo bagera muri batatu bambaye kasike, bari kugenda bakubitana ibipfunsi, munsi hari amagambo ahanditse mu mabara y'umweru ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga, aho harimo ibikoresho byose nkenerwa, abaganga bifashisha mu gihe baba bari kwita ku barwayi, harimo igitanda, harimo kandi n'ibindi bikoresho byinshi.

Umugabo uryamye ku gitanda, aho yavunitse yakoraga imyitozo ngororamubiri, muganga amufashe ukuguru ari kugenda akandaho kugira ngo arebe ko yamenya aho uyu mugabo yaba yavunitse.

Igikoresho kizwi nk'insimburangingo, gikunze gutangwa kwa muganga aho bagiha umuntu uba wavunitse yagize ubumuga, akazajya akifashisha akakigenderaho kugira ngo ubuzima bukomeze.

Abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri, aho bari kugenda mu muhanda batera mucaka, bakaba ari abasore bagera muri bane, imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane.

Umuntu wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri. Uko bigaragara ni umuzungu akaba yafashe ibarafu iri mu mabara y'ubururu, akaba ari kuyikandisha ku ivi aho yavunitse.

Agakoresho kazwi nka mubazi kari mu mabara y'umweru n'ubururu, aka ngaka kakaba kifashishwa n'umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho kamufasha kumenya ibirometero n'amasaha yirukanse.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agapantaro k'umukara ndetse n'agasutiye k'umukara, yazirikiye telefone ku kizigira cy'ukuboko ari kumva imiziki, akaba yambaye inkweto z'umutuku, iruhande rwe hateretse amazi yo kunywa.

Abantu benshi bagiye batandukanye bicaye mu cyumba gikorerwamo inama harimo abagabo n'abagore. Bose bambaye udupfukamunwa ndetse bambaye n'utunozasuku mu mutwe bari kureba umuntu uri gutanga ikiganiro ku nsakazamashusho.

Umusore wambaye agapira k'uburururo, afite na ekuteri z'ubururu yazambariye mu ijosi, yiziritse bande y'umweru ku kuboko, akaba ari kunywa amazi muri gurudu isa ubururu.

Uducupa tugiye dutandukanye, tukaba dusa umweru twanditseho amagambo ahasa umutuku, aya magambo akaba yanditse mu rurimi rw'Icyongereza avuga ngo guhagarika uburibwe.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yambaye imyenda ijya gusa n'umweru, akaba yicaye hasi aho ari kugenda akoza umutwe ku mavi, amaboko yayafatishije ukuguru ku ibumoso.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanya z'ubuvuzi, aho harimo ibikoresho byose nkenerwa, abaganga bifashisha bari kwita ku barwayi, hari n'icyuma kizwi nka sikaneri, banyuzamo umurwayi umeze nabi.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, ni umuntu w'igitsina gore aho yambaye agasengeri k'icyatsi, afite icupa ry'amazi mu kuboko kw'iburyo ari kunywa kugira ngo arebe ko yamererwa neza.

Abantu benshi bahuriye hamwe, bari gufana bari no kogeza umukino uzwi nka basiketi. Hari umwana wasimbutse bigaragara ko amaze kunaga umupira, ategereje ko igitego kijyamo. Abari aho bose bari gukoma mu mashyi.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri. Aho ari kugenda aterura ariteri iremereye cyane. Uyu mugabo ni umuzungu, ari mucyumba bakoreramo imyitozo ngororamubiri ahazwi nko muri gimu.

Umukobwa wicaye aho ari gukora imyitozo ngororamubiri none akaba yavunitse, afashe ibarafu y'ubururu yashyize ku kabumbambari kiwe, ari kugenda yikanda kugira ngo yoroherwe, bityo uburibwe bugabanyuke.

Agakapu kari mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara, kakaba gakunze kuba gafitwe n'abaganga baba bari ku bibuga, aho kaba karimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura umuntu wagize ikibazo akora imyitozo ngororamubiri.

Igikoresho kiba kiri kwa muganga cyifashishwa mu gupima abarwayi benshi bagiye batandukanye, kikaba kiri mu mabara agiye atandukanye iy'umweru, ubururu ndetse n'umukara.

Uruziga rurimo urutirigongo, rukigabanyije mo kabiri. Harimo ibihande bine. Uruhande rumwe rurimo umuntu uri gukora siporo yiruka, urundi umusaraba, urwa gatatu umuntu uri gusimbuka umugozi, urundi rwa kane, umuntu uri gukoma amashyi.

Inyubako itangirwamo serivise zigiye zitandukanye z'ubuvuzi kwa muganga, harimo ibikoresho byose nkenerwa, abaganga bifashisha mu kwita ku barwayi, amatara ari kwaka ndetse ibikuta birasa n'ivu, aha ngaha rero, ni ingenzi kuhagana.

Agakoresho kaba kari kwa muganga kifashishwa mu gihe umuntu agiyeyo afite ikibazo cyo kugorama ingingo, aragenda agafataho hanyuma akajya agenda asunika gake gake ariko agorora imitsi ye.

Agakapu k'umutuku n'umukara, kakaba gafunguye karimo imiti yose yifashishwa mu kwita ku muntu wagize ikibazo runaka, igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri.

Umusore wagize ikibazo cy'imvune igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, yihutiye kujya kwa muganga none muganga amufashe ukuguru kwe, ari kugenda amukanda kugira ngo arebe ko yakoroherwa, ari gukanda mu ivi.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye, hari umuganga w'umuzungu, uri gusuzuma ibikoresho ngo arebe ko bimeze neza, hari kandi n'insakazamashusho icanye.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'umweru n'agasengeri kajya gusa icyatsi, afite imisatsi myinshi y'umukara akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri aho yunamye ari gukora kumano.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri. Yambaye agasengeri k'umukara ndetse karimo uturonko tujya gusa umutuku. Akaba ahagaze aduteye umugongo akaboko kamwe yagafatishije mu nkokora ari kugenda agorora umubiri we.

Agacupa k'umweru kariho icyapa kiri mu mabara y'umukara. Kakaba karimo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, by'umwihariko kakaba gahagarika cyangwa kagabanya ububabare.

Ikiganza cy'umuntu wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, yagiye kwa muganga none muganga ari kugenda amupfuka ku kuboko aho yari yavunitse, kugira ngo uburibwe bugabanyuke kandi azabashe gukira vuba.

Agasanduku gapfunduye. Kakaba karimo ibikoresho byose nkenerwa bikunze kwifashishwa n'abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri. Iyi rero ikaba ipfundikishije agatambaro k'umutuku.

Umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'umukara, ndetse n'agasengi k'umweru kariho uturongo tw'umutuku. Akaba yamanuye amaboko yayakoresheje hasi, umutwe yawurebesheje hejuru. Ari mu cyumba giteye amarange y'umweru.

Umugabo n'umugore bari mu muhanda bakora imyitozo ngororamubiri. Bambaye udukabutura tw'umukara ndetse bose bafite uducupa tw'amazi mu ntoki. Umugabo yambaye isengeri y'ivu, umugore yambaye isengeri y'ubururu.

Umuntu wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, abo bari kumwe bamugiriye inama yo kwihutira kujya kwa muganga none yahise abikora, muganga ari kugenda amwunga, amukanda ku mpfundiko ngo arebe ko yakoroherwa.

Ikizingo gisa umutuku kikaba kizwi nka bande, iki ngiki rero cyifashishwa bari kwita ku muntu wagize ikibazo cy'imvune igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, aho bakizingira aho yavunitse.

Umusore wicaye ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agapira k'umuhondo, agapantaro k'umukara aho yicaye yahinnye ukuguru kumwe ukundi yakurambuye, amaboko ye ari kuyafatisha ku birenge, inyuma ye hari ibyatsi by'ibimera bitandukanye.

Icyatsi kiri mu mabara y'icyatsi gifite ibibabi bitoshye, iki kizwi ku izina nk'umuravumba, iki kikaba ari ingenzi kuko gitunganywamo imiti gakondo igiye itandukanye.

Akabido kari mu mabara y'umweru. Gapfundikije umupfundikizo w'umutuku. Gashushanyijeho inyoni iri kuguruka. Munsi yako, handitseho amagambo ari mu rurimi, rw'icyongereza.

Amoko agiye atandukanye y'ibimera bitunganywamo imiti gakondo ya kinyarwanda, ibi bimera rero ni ingirakamaro kuko bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi aho bivura indwara zitandukanye.

Abantu b'abagabo bahuriye ahantu hamwe, abenshi muri bo bambaye imyenda y'impuzankano iri mu mabara y'icyatsi, bari mu isambu iteyemo ibikakarubamba, bagiye kureba uburyo bihingwa.

Ibiganza by'umuntu bifite umuhini biri kugenda bisekura, biri kuvanga umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye by'umwihariko indwara za kinyarwanda.

Mu gisambu haba harimo ibyatsi by'ibimera bigiye bitandukanye, iki kimera rero kiba gifite ibabi rimwe rinini, iki kikaba gitunganywamo umuti gakondo, by'umwihariko kikavura indwara nk'inkorora n'ibicurane ndetse n'indwara z'amarozi.

Uducupa turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara za Kinyarwanda. Utu ducupa rero tuba turimo imiti gakondo igiye itandukanye, itunganywa mu bimera.

Uducupa tugera muri dutatu twose turi mu mabara y'umweru, tukaba dupfundikije imipfundikizo isa umweru, tukaba turimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye by'umwihariko iza kinyarwanda.

Agasekuro gasa umweru karimo n'umuhini wako, iruhande rwako hari uducupa dutatu. Ndetse n'akavaze gateyemo indabyo. Ibi byose bikaba ari ibyifashishwa kugira ngo hatunganywe umuti gakondo.

Uducupa tugiye dutandukanye tugera muri dutatu, ako hasi karapfunduye, ako hagati gapfundikije umupfundikizo w'ubururu ko karasa umweru, hejuru hari akandi gacupa kari gusa ubururu, kakaba karimo amavuta atunganya uruhu.

Agasekururo kabaje mu biti, kakaba karimo umuhini, harimo n'ibyatsi by'ibimera biri mu mabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi, bigaragara ko bari kubisekuriramo ngo babitunganyemo umuti gakondo, ku ruhande hari n'ibindi byinshi bitarashyirwamo.

Ni mu gisambu ahari ibyatsi by'ibimera bigiye bitandukanye, ibi byatsi rero ni ingenzi kuko bitunganywamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara za Kinyarwanda.

Uducupa tugera muri dutatu, tukaba tuvamo cyangwa se turimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara za Kinyarwanda, ako hejuru karasa ubururu, kakaba karimo amavuta y'uruhu.

Ibyatsi by'ibimera bigiye bitandukanye, bitunganywamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara za Kinyarwanda, bikaba biri ahantu mu gisambo, ni byiza cyane ko nawe wahanyarukira ugashakayo imiti mu gihe umwana wawe yaba yarwaye.

Icyatsi gikunze kuba kiri ahantu mu gisambu, iki cyatsi rero ni ingirakamaro kuko iyo kimaze gukura gitunganywamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye za Kinyarwanda.

Imiti gakondo igiye itandukanye, iri mu ducupa yifashishwa mu kuvura indwara za Kinyarwanda, ifite imipfundikizo y'umweru ndetse n'icyatsi, iteretse ahantu mu busitani, hirya yaho hari umukobwa uhahagaze.

Amoko agiye atandukanye y'ibimera wakwifashisha, bikagufasha gukumira indwara ziba zigiye zitandukanye, hari amoko agera mu icyenda, yavura izi ndwara zikagenda nka nyomberi.

Ikiganza cy'umuntu gifashe agacupa gasa umukara, kakaba kanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, uyu muntu ugafashe akaba ari umuzungu, aka gacupa kakaba karimo umuti gakondo.

Umugabo wambaye amakositimu y'umukara n'agashati k'ubururu, iruhande rwe hakaba hari uducupa tugiye dutandukanye turimo imiti gakondo, akaba ari kwamamaza uwo mwuga we akora wo kuvura indwara za kinyarwanda.

Agacupa kariho icyapa cy'umuhondo, gishushanyijeho inyoni iri kuguruka ndetse n'uruyuki, hakaba harimo umuti utunganywa mu bimera ndetse bashyiramo n'ubuki bw'inzuki.

Icyatsi kirandanda hasi, gifite indabyo ziri mu mabara y'iroza, umweru ndetse n'umuhondo. Iki cyatsi rero, ni ingirakamaro kubera ko gitunganywamo imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda.

Agasekururo k'umweru karimo umuhini, iruhande rwako hari amoko agiye atandukanye y'ibyatsi, ibi bakaba bagiye kubisekurira muri aka gasekururo bakabitunganyamo imiti gakondo.

Agakarito karimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, by'umwihariko indwara za Kinyarwanda, kakaba gashushanyijeho inyoni mu ibara ry'icyatsi iri kuguruka.

Mu gisambu dukunze gusangamo ibyatsi by'ibimera by'amoko menshi agiye atandukanye, hari n'ibyo tuyoberwa amazina yabyo ariko si ngombwa kubihutaza kuko abavuzi gakondo babitunganyamo imiti igiye itandukanye.

Akajage gakozwe mu kirahure, kakaba karimo imiti y'indabyo igiye itandukanye. Iyi rero iratunganywa, ikavura indwara za kinyarwanda.

Amoko menshi y'ibimera bitunganywamo imiti gakondo, hari ibiba bifite utubabi dutoya ariko bigatunganywamo iyo miti ivura indwara zigiye zitandukanye za kinyarwanda.

Amoko agiye atandukanye y'ibyatsi umuntu yakwifashisha bikamugirira akamaro, yambaye umuntu ubifashe agapira k'umukara ndetse n'akandi k'umutuku mu imbere.

Agacupa k'umweru gafite umupfundikizo na wo w'umweru, kakaba kanditseho amagambo y'umutuku mu rurimi rw'Icyongereza, hashushanyijeho inyoni iri kuguruka. Kakaba karimo imiti gakondo ivura indwara za Kinyarwanda.

Ibyatsi by'ibimera bigiye bitandukanye, ibi bikunze kumera ahantu mu gisambu, ibi ni ingenzi cyane kuko barabifata bakabitunganya, bikavanwamo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye za kinyarwanda.

Amacupa agiye atandukanye agera muri arindwi, aya macupa rero amenshi muri yo akaba ashushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba, igikakabamba rero ni ingirakamaro cyane.

Amoko agiye atandukanye y'ibimera, hari ibifite ibibabi bitoshye ndetse n'ibikanyaraye, hari kandi n'ibyera imbuto, ariko byose icyo bihuriyeho ni uko bitunganywamo imiti gakondo ivura indwara za Kinyarwanda.

Udukarito tugeze muri dutatu, tukaba dufite amabara y'ubururu, umweru, icyatsi, umuhondo, ndetse n'umutuku. Utu rero tukaba turimo imiti gakondo, itunganywa mu bimera.

Amoko menshi agiye atandukanye y'ibimera byifashishwa mu kuvura indwara za Kinyarwanda, ibi bimera bikaba bifite indabyo z'umuhondo, iyo bikuze biratunganywa bikavamo imiti ivura indwara za Kinyarwanda.

Hari ubwoko bw'ibimera byinshi, by'ingirakamaro. Iki reroro tukizi ku izina ry'inyabarasanya. Kikaba kiba gifite amababi meza cyane, ndetse n'indabyo nziza, iyo kitarayanga. Kikaba kivamo umuti uvura ibisebe.

Amoko agiye atandukanye y'ibimera bikunze kwifashishwa bigatunganywamo imiti gakondo, hari kugaragaramo ishu ndetse n'icyo tuzi nk'ibumba, ibi ngibi rero ni ingirakamaro cyane.

Agakarito kari mu mabara y'umweru n'iroza. Gashushanyijeho umugore wifashe mu mayunguyungu, wambaye ikanzu y'umukara. Hakaba harimo imiti gakondo, ikozwe mu bimera.

Akabido gasa ubururu. Kakaba gakurikindije umupfundikizo usa icyatsi. Kakaba karimo umuti gakondo utunganywa mu bimera. Hakaba hariho na nimero za telefone ushobora guhamagara mu gihe ushaka uyu muti.

Agashashi gasa umuhondo kakaba gapfunyitsemo imiti isa umukara, iyi miti rero ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye za Kinyarwanda, dore ko itunganyijwe mu bimera.

Umugabo wagiye kugura imiti gakondo aho bayicururiza akaba ahagaze imbere ya kontwari, ari kuganira n'umugore uyicuruza aho bari kugenda bumvikana ku biciro, hirya hari n'undi mugabo waje kuyigura ndetse n'undi mugabo ukoramo wambaye itaburiya.

Amoko agiye atandukanye y'ibimera, ibi bimera rero ni ingenzi kuko bitunganywamo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, by'umwihariko nk'indwara za kinyarwanda.

Agacupa gasa umweru, kakaba kahindutse icyatsi kubera umuti urimo mo imbere usa icyatsi na wo. Iruhande rwako hashushanyije ikimera cy'igikakarubamba bigaragaza ko ari cyo uwo muti ukomokaho.

Agacupa k'umweru, gashushanyijeho inyoni iri kuguruka, iruhande rwako, hari ironji bakasemo inshuro nyinshi, rikaba rirambitse, rigiye rigerekeranyije.

Agacupa k'umukara gafite umupfundikizo w'umweru. Kakaba karimo umuti gakondo, utunganyijwe mu bimera. Uyu muti rero ni ingenzi kubera ko uvura indwara zigiye zitandukanye, by'umwihariko indwara za kinyarwanda.

Agacupa k'umweru kaba karimo imiti igiye itandukanye, hakaba hashushanyijeho igisiga kiri kuguruka, hari n'ibindi binini birambitse hasi by'umweru, hari n'amagambo y'Icyongereza yanditse ahantu h'umutuku mu ibara ry'umweru.

Uducupa tugiye dutandukanye tukaba turambitse ahantu hasi, hari kandi n'amoko y'ibimera atandukanye, hari indabyo ebyiri ndetse n'igikakarubamba, bakaba batwereka ko ari byo bitunganywamo imiti ijya muri utu ducupa.

Umugore wambaye imyambaro y'umweru, afite agasakoshi ku kuboko kwe kw'ibumoso, ari kugenda asoroma ibimera bigaragara ko ari gushaka umuti wo kuvura umwana we.

Ikiganza cy'umuntu w'umuzungu, gifashe ku kimera kizwi hano mu Rwanda nk'isombe, ari kwibaza ibyo ari byo, aho agenda yibaza niba ari umwumbati cyangwa se ari isombe.

Amoko agiye atandukanye y'imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi za Kinyarwanda. Igiye itanditse ahantu ku gashitingi, iri mu mabara y'umweru, umutuku ndetse n'umukara.

Akadomoro k'umweruru, gafite umupfundikizo w'umutuku, kakaba gashushanyijeho igisiga kiri kuguruka. Kakaba karimo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye za Kinyarwanda.

Umugabo uhagaze mu nyubako icururizwamo imiti gakondo, yambaye ingofero y'abisilamu, etajeri irimo uducupa twinshi turimo imiti, imbere ye handitseho ngo kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo.

uducupa tugiye dutandukanye tugera muri tune, tukaba twose dushushanyijeho ikimera kizwi nk'igikakarubamba, utwo ducupa tukaba duteretse ahantu hari amabara atandukanye, umutuku, umuhondo, ibara ry'icunga ndetse n'ibara rya oranje.

Ikirango cy'ikigo cy'igihugu cyita ku bijyanye n'ibiribwa ndetse kikarwanya ibiyobyabwenge mu banyarwanda, kiri mu mabara y'umutuku, icyatsi, ubururu ndetse n'umuhondo.

Amoko menshi cyane y'imiti yifashishwa n'abavuzi gakondo kugira ngo bavure indwara y'umugongo rero mu gihe ufite ikibazo cy'umugongo, wagana ku mavuriro gakondo bakawugukiza byihuse.

Uducupa tubiri. Turi mu mabara atandukanye. Ni ukuvuga umweru ndetse n'umuhondo. Utu ducupa twose, tukaba dushushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba. Aho bari kutwereka ko umuti uri muri utu ducupa, utunganywa mu gikakarubamba.

Uducupa twinshi cyane, turi mu mabara y'umuhondo ndetse twose dushushanyijeho igikakarubamba, bigaragara ko imiti iba iri muri utu ducupa itunganywa mu kimera cy'igikakarubamba.

Uducupa tugiye dutandukanye. Turi mu mabara menshi cyane, aho harimo umuhondo ndetse n'umweru n'umutuku. Biri imbere y'igitambaro, gisa iroza. Utu ducupa rero, twose tukaba turimo imiti gakondo.

Amoko agiye atandukanye y'ibimera, ibi bimera rero akaba ari ingirakamaro cyane kuko iyo bimaze gukura babijyana mu nganda zabugenewe, bakabitunganyamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara za Kinyarwanda.

Agasekuru batunganyirizamo imiti gakondo igiye itandukanye, kakaba karambitse ku gasahani, gakikijwe n'imiti igiye itandukanye ndetse iruhande rwako harimo agacupa karimo imiti bamaze gusekuriramo yatunganyijwe.

Uducupa tugiye dutandukanye hari udusa umweru dufite imipfundikizo y'icyatsi, hari kandi n'udusa umukara dufite imipfundikizo isa umweru tukaba turimo imiti gakondo.

Amoko agiye atandukanye y'ibimera bikunze gutunganywamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye by'umwihariko nk'indwara za kinyarwanda, iyi miti rero ni ingenzi cyane.

Ibyatsi by'ibimera biteye ahantu mu gisambu, hari kugaragara intoki z'umuntu zifashe kuri ibyo bimera, ibi bimera rero ni ingenzi kuko bitunganywamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara za Kinyarwanda.

Umugabo uri mu nama ahagaze imbere y'abantu, iruhande rwe ku meza hariho imiti igiye itandukanye iri mu ducupa, uyu rero akaba atanga serivise z'ubuvuzi gakondo, akaba ari kumenyesha abaturage ko ashoboye kubavura.

Uducupa tugera muri tune, tubiri tukaba dusa umweru, utundi tubiri tukaba dusa umweru n'ubururu, utu twose tuba turimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda.

Amoko menshi agiye atandukanye y'imiti yifashishwa gakondo mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, by'umwihariko nk'indwara za kinyarwanda. Iri mu mabara agiye atandukanye.

Umugabo wambaye agapira k'icyatsi gafite ikora ry'umuhondo, yambaye n'ipantaro y'umukara, akaba afashe ibyatsi bigiye bitandukanye mu ntoki, aho ari kwerekana ko ibi byatsi bitunganywamo imiti gakondo.

Umugabo wambaye agapira k'umweru, ari ahantu mu gisambu bigaragara ko yagiye gusoromayo imiti yifashisha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye za Kinyarwanda, dore ko imyinshi iba itunganyijwe mu bimera.

Umugabo wambaye ishati y'umweru imanuyemo uturonko, uyu mugabo rero akaba atanga serivisi zigiye zitandukanye by'umwihariko mu kwita ku ndwara za Kinyarwanda, akaba afite amacupa ari kugenda ashyiramo imiti yifashisha.

Amoko agiye atandukanye y'uducupa tuba turimo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo, aho baba bavura indwara zigiye zitandukanye, by'umwihariko indwara za Kinyarwanda.

Agakarito kari mu mabara agiye atandukanye. Umweru, ubururu, umuhondo ndetse n'umutuku. Kakaba karimo imiti itunganyijwe mu bimera. Ikaba yifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda.

Ni mu gisambu ahateye ibyatsi by'ibimera bigiye bitandukanye, ibi bimera rero bikaba bitunganywamo imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, by'umwihariko indwara za Kinyarwanda.

Amoko agiye atandukanye y'ibimera aba afite akamaro na ko kanyuranye, ibi rero bikaba bivura indwara za Kinyarwanda nyinshi zigiye zitandukanye, bikaba bifite utubabi dutoya.

Uducupa tugiye dutandukanye tuba turimo imiti gakondo ivura indwara zigiye zitandukanye za kinyarwanda. Dufite imipfundikizo isa umweru ndetse n'umutuku. Twose tubaditseho ibyapa bisa umweru.

Uducupa twinshi cyane, turimo imiti igiye itandukanye. Iyi miti rero, ni imiti ya Kinyarwanda ikorwa mu byatsi by'ibimera, hanyuma bakayitunganya, ikavamo imiti yifashishwa mu kuvura indwara za Kinyarwanda.

Uducupa ndetse n'ibirahure bigiye bitandukanye, bikaba birimo imiti gakondo yatunganyijwe, iyi miti rero ni ingirakamaro kuko yifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda.

Ibyatsi by'ibimera byinshi cyane bigiye bitandukanye, aho iyo bimaze gukura bitunganywamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye by'umwihariko indwara za kinyarwanda.

Amoko menshi agiye atandukanye y'ibimera bigiye bitandukanye na byo bivamo umuti gakondo uvura indwara za kinyarwanda, hari ibifite indabyo z'umutuku, iz'umuhondo iz'umweru ndetse n'iz'iroza.

Udukangara turi mu mabara y'umukara, tukaba turimo imiti gakondo igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda, hari kandi n'agasanduku gateretseho umunzani w'ibuye.

Amenyo y'umuntu uri guseka, ni amenyo meza cyane asa neza, munsi yayo hari uducupa twubitse, tukaba turimo umuti w'amenyo, hashushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba, aho ari cyo gitunganywamo uwo muti.

Agacupa k'umweru kariho umurongo utambitse mu ibara ry'iroza, gashushanyijeho akanyoni kari kuguruka mu ibara ry'umutuku, gafite umupfundikizo w'umweru, aho karambitse harasa umukara.

Utubido tubiri turi mu mabara y'umuhondo, dufite imipfundikizo y'umutuku ndetse handitseho n'amagambo mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'umutuku, hashushanyiho kandi n'utunyoni turi kuguruka tw'umutuku.

Umugabo wagiye aho bacuruza imiti gakondo, akaba ahagaze inyuma ya kontwari, ari kuganira n'umugore urimo imbere, agenda amubwira uko uburwayi bwe bumeze kugira ngo uwo mugore amenye umuti araza kumuha.

Ibimera bitandukanye biba bifite amababi agiye atandukanye, ibi ngibi rero bitunganywamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda.

Ibimera ni ingirakamaro cyane kuko iyo bimaze gukura, barabitunganya bikavamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara za Kinyarwanda, nk'uko tubibona rero utu dukarito turi aha ngaha dupfunyitsemo iyo miti.